Abantu bari mu kabari abahungu n'abakobwa bishimye, iruhande rwabo hateretse amacupa y'inzoga ndetse hari n'itara ryaka ibara ry'umutuku.

Iki ni igipapuro gikoreshwa cyane ahantu bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya, haba hariho ibyo kurya aho hantu bafite n'ibyo kunywa, ndetse hariho n'ibiciro byabyo. Kugira ngo borohereze umuguzi kuza agahitamo icyo arya, ahita abona n'igiciro cyayo, bitamugoye.

Iki ni igipapuro cyangwa se ikayi yifashishwa mu mahoteri ndetse n'ahandi bacurua ibyo kunywa n'ibyo kurya nko mu tubari, iba iriho ibicuruzwa bafite, ndetse hariho n'ibiciro byabo, kugira ngo byorohere umuguzi kubona icyo ashaka vuba ndetse ahite abona n'ibiciro byacyo bitamugoye.

Aka ni akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ushobora kujyayo ukabona icyo ubasha, ukanywa inzoga cyangwa se ukanywa imitobe y'imbuto zigiye zitandukanye, ikindi ni uko inzoga atari iz'abato kandi ntago zemewe ku bagore batwite kuko zishobora kugira ngaruka ku buzima bwabo.

Aha nahacururizwa ibyo kumywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye ahazwi nko mukabari.

Iyi ni inzu ikoreramo akabari icururizwamo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye hari ibyuma byifashishwa mu gukonjesha ibyo kunywa mu gihe umuguzi adashaka kunywa ibishyushye cyangwa bidakonje.

Iyi ni inzu icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, ahazwi nko mu kabari, hari intebe abaza bashaka ibyo kunywa bicaraho, ndetse n'ameza baterekeho ibyo bari kunyweramo.

Aha hari ameza yicayeho abantu bane, bose imbere yaho hari amacupa y'ibyo kunywa bisindisha, ubwo ni inzoga, ariko bigiye bitandukanye, inyuma yaho harimo iduka n'ubundi ricuruza, harimo umugabo wambaye imyenda y'imikara.

Iki ni ikirangahantu cyerekana ko hano hari akabari, si akabari gusa kandi, hari n'ikindi kirangahantu cyarekana ko hano hari iduka rifite ibikoresho bikoreshwa mu gukora imodoka neza, kandi hari n'ipikipiki ihaparitse yifashishwa mu gukura ibicuruzwa ku mucuruzi ibigeza ku muguzi byoroshye kandi byihuse.

Iki ni igipapuro gikoreshwa mu mahoteli cyangwa ahandi hantu hacuruzwa ibyo kurya n'ibyo kunywa, aho haba hariho ibyo kunywa biri aho hantu cyangwa ibyo kurya bihari hariho n'ibiciro byaho, ibi bikorohereza umuguzi cyangwa uwaje kugura kubona ibyo akeneye vuba ndetse no kubona ibiciro byabyo.

Ubu ni uburyo bukoreshwa bugezweho bukorera cyane mu mahoteri ku buryo umuntu afta terefone ye agafotora hano bagahita bamwereka ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa muri iyo hoteri bafite cyangwa n'ibiciro byabyo byose biba biriho. Ubu ni uburyo bw'iterambere bugezweho.

Aha hari icupa ndetse n'ikirahure kirimo ikinyobwa gisembuye, cyengwa n'uruganda rumwe rukora ibinyobwa mu Rwanda, mu kirahure harimo icyo kunywa hejuru gifiteho ifuro, gifite ibara rirya gusa umutuku.

Aha hari ikirangahantu kimanitse hejuru ku nzu y'ubucuruzi cyerekana yuko hano hari akabari cyangwa se hacururizwa ibyo kunywa bisembuye n'ibindi bidasembuye, si ibyo gusa haba harimo n'ibindi byo kwidagadura bitandukanye ku buryo abaje kugura ibyo kunywa badashobora kugira irungu.

Iki ni igipapuro gikoreshwa cyane cyane mu mahoteri cyangwa ahandi hantu hose bacuruza ibyo kurya, aho haba hariho urutonde rw'ibyo kurya n'ibyo kunywa bafite, hariho ndetse n'ibiciro byabyo, kuburyo umuguzi uribuze kugura biribumworohere kubona icyo agura ndetse aka bikamworohera no kubona ibiciro akishyura bitamugoye ndetse n'umucuruzi bikamufasha.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi irimo imiryango ibiri, ikorerwamo ibintu bitandukanye, hejuru yayo hari icyapa kigaragaza ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye.

Uru ni urupapuro rw'ahantu runaka bacuruza ibyo kunywa uru rwerekana ibyokunkwa iryo duka rifite ndetse n'ibiciro byabyo, kugirango byorohere umuguzi kubona icyo y'abasha kwishyura cyangwa icyo y'abasha kugura kugirango akinkwe.

Iki ni igipapuro gikoreshwa mu tubari cyangwa ahandi hantu hose hacururizwa ibinyobwa, haba hariho urutonde rw'ibinyobwa bwabyo biri muri ako kabari ndetse hariho n'ibiciro byabyo kugira ngo byorohereze ugura kubona icyo ashaka vuba bimworoheye ndetse agahita abona n'igiciro cyacyo.

Izi ni inyubako z'ubucuruzi, ziriho ibirangahantu bigaragaza ko hano hari utubari ducururizwamo ibyo kunywa ( bisembuye n'ibidasembuye), si ibyo kunywa gusa, haba hari n'ibyo kurya, ikindi hari n'indi n'imyidagaduro itandukanye umuntu yakora yishimye.

Iki ni ikirangahantu cyerekana ko aha ngaha hari akabari, aho bacuruza ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, si ibinyobwa gusa kandi baba bacuruzamo n'ibiryo, haba haberamo n'ibindi bikorwa bitandukanye by'imyidagaduro.

Iki ni ikirangahantu kerekana ko hari akabari karimo ibicuruzwa by'inzoga bisembuye n'ibidasembuye, bisindisha n'ibidasindisha sibyo gusa haba harimo n'ibyo kurya ikindi haba hari n'indi myidagaduro itandukanye ushobora kumva imiziki ukabyina ushobora kuryama.

Iki ni igipapuro gikoreshwa cyane aho bacururiza ibiryo, aho bashyiraho ibiryo bafite ndetse bagashyiraho n'ibiciro byabyo kugira ngo borohereze umuguzi uri buze kugura ibyo kurya, guhita abona ibyo arya bitamugoye ndetse abone n'ibiciro byabyo kugira ngo yishyure na bwo bitamugoye.

Aha hari umuhanda, ipikipiki iri gutambuka itwaye umugenzi, hirya yaho hari ibinyabiziga ndetse hari n'ikirangahantu kigaragaza ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye, ibidasembuye, si ibyo gusa kandi, haba harimo n'ibyo kurya, ndetse n'ubundi buryo umuntu yakwidagaduramo.

Aha ni mukabari ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye ndetse nibindi bidasembuye byamoko atandukanye harimo intebe nyinshi bigaragara ko bakira abantu benshi, harakamo ibara amatara y'umutuku, ibingibi bifasha abaguzi kwidagadura no kubona ibyo bakeneye ku gihe.

Iki ni igipapuro gikoreshwa cyane aho bacuruza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, kiba kiriho ibyo kurya bafite ndetse n'ibiciro by'ibyo biryo bacuruza.

Iki ni ikinyobwa gisembuye kiri mu icupa ry'icyatsi ndetse no ku ruhande hari ikiri mu kirahure cyazanye ifuro hejuru.

Ibi ni binyobwa bisembuye inzoga, biri mu macupa y'icyatsi, inzoga ntabwo ari nziza ku bantu cyane cyane abana n'abagore batwite kandi kunywa nyinshi bishobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga.

Iri ni iduka ricururizwamo ibyo kunywa bitandukanye harimo ibisindisha n'ibidasindisha sibyo gusa harimo n'amazi hakaba harimo n'uburyo uwuguze ashobora kwishyura bimworoheye adafashe ku mafaranga akoresheje telefone ye.

Aha ni mu kabari hacururizwa ibyo kunywa bitandukanye, ibisenguye, ibidasembuye ibisindisha n'ibidasindisha, si ibyo gusa kandi haberamo n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro bitandukanye, harimo kumva imiziki, kuyibyina ndetse habamo n'ibyo kurya bitandukanye.

Aha ni ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibindi bidasembuye by'amako menshi atandukanye, hicayemo abantu babiri basa nkaho baje kugura ibyo kunywa, si ibyo kandi harimo n'insakazamashusho iri kubafasha gukomeza bidagadura mu gihe bari gufata icyo kunywa cyabo baguze, bari kureba umupira w'amaguru. Aha ngaha harakamo amabara y'umutuku.

Aha ni mu iduka cyangwa se mu kabari, harimo umugabo usa nk'aho ari umukozi ucuruza ibyo kunywa bitandukanye birimo hano, bisembuye ndetse n'ibindi bidasembuye, kugira ngo abihereze abaje kubigura.

Aha hari ameza ateretseho isahane iriho ibiryo, ifiriti, inyama, si ibyo gusa hari ikirahure kirimo umuvinyo ndetse n'icupa ririmo umuvinyo, si ibyo gusa kandi hari n'ibindi bikoresho byinshi byifashishwa ku meza, igihe umuntu ari gufungura.

Iki ni ikirangantego cy'uruganda rukorera mu Rwanda, ruzwi cyane ku kwega ibinyobwa bigiye bitandukanye by'amoko menshi, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye. Uru ruganda kandi rugira akamara kanini muri iki gihugu, kubera ko rutanga akazi ku bantu benshi bagiye batandukanye, ndetse rukagira ibyo rwongera mu iterambere ry'igihugu.

Aka ni akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye, ubwo ni inzoga ndetse harimo n'insakazamashusho aho abaje kugura bicara bakareba amashusho agiye atandukanye bashaka cyangwa se bakareba umupira w'amaguru.

Aha ni mu iduka cyangwa se mu kabari, hariyo insakazamashusho, aho hariyo abantu babiri bari kureba umupira w'amaguru, ibi bituma abantu bishima, cyane nk'iyo amakipe bafana ari yo arimo arakina.

Iki ni ikirangahantu kiranga akabari, gacururizwamo inzoga ndetse n'ibindi byo kunywa bisembuye bitandukanye by'amoko menshi atandukanye, abaguzi babisangamo bakabinywerayo ndetse bagataha ikindi inzoga si iz'abato.

Ikindi kirahure kirimo inzoga isembuye, kandi giteretse ku meza ameza ateretse mu kabari, aho bacuruza ibyo kunywa bigiye bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye. Inzoga si nziza cyane cyane ku bana bato n'abagore batwite cyangwa abandi bantu bose bakuze, kuko gifatwa nk'ikiyobyabwenge.

Iki ni ikirangahantu kiriho inzoga isembuye kerekana y'uko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa ibisembuye n'ibidasembuye bigiye bitandukanye, iki kirangahantu gifasha abagenda kugira ngo bamenye neza ko hafi hari akabari hanyuma wumva ko ashaka kwinjiramo ahahe cyangwa agure.

Aha hari ikirangahantu cyerekana ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bitandukanye, ibisembuye n'ibidasembuye. Si ibyo gusa, muri aka kabari habamo n'ibyo kurya, murabibona ku kirangahantu kiranga kano kabari, bigiye bitandukanye, inyama, inkoko, amafi ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye.

Aha hacururizwa ibyo kunywa by'amoko atandukanye, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye hari icupa riri imbere ndetse n'uburyo ushobora gukoresha kugira ubone ibyo bafite ibyo bacuruza ubone n'ibiciro byabyo bikorohere kwishyura, aha harimo haraka ibara amatara y'ibara ry'icyatsi ndetse harimo n'insakazamashusho, bishobora gufasha abaguzi gukomeza bidagadura bareba umupira w'amaguru n'ibindi bitandukanye.

Aha ni mu kabari , aho bacuruza inzoga z'ubwoko butandukanye, zigiye zitandukanye, zifite amazina atandukanye, izi nzoga si nziza ku buzima bw'abantu, n'ubwo hari abazinywa ariko ntitwibagirwe ko zishyira ubuzima bwa benshi mu kaga, cyane cyane ko zifatwa nk'ibiyobyabwenge.

Aha hari ababyeyi babiri bariguhererekanya amafaranga ariko bakoresheje uburyo bugezweho cyangwa bw’iterambere bakoresheje ikarita ubu buryo burizewe kandi burihuta bworoshya ubucuruzi kandi bukihutisha iterambere mu bucuruzi.

Iki ni igipapuro gikoreshwa cyane mu ma hoteli ndetse n'ahandi bacuruza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, cyane cyane utubari, aho haba hariho urutonde rw'ibyo bacuruza ndetse n'ibiciro byabyo, kuburyo umuguzi aza kugura bitamugoye, akabona ibyo ashaka bitamugoye, ndetse agahita abona n'igiciro cyacyo.

Aha ni mu kabari ahacururizwa ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye ndetse n'ibidasembuye sibyo gusa hari ni insakazamashusho ifasha abaje kugura kwidagadura cyangwa kugirango banywe ibyo baguze bisanzuye kandi bishimye.

Iki ni igipapuro gikoreshwa mu mahoteri cyangwa ahandi hose bacuruza ibyo kunywa n'ibyo kurya, haba hariho urutonde rw'ibyo kurya bafite cyangwa ibyo kunywa bafite, hariho n'ibiciro byabyo. Ibi bikorohereza umuguzi kugira ngo abone icyo afata bimworoheye, abone n'igiciro cyacyo, arebe niba yabasha kucyishyura.

Aha ni mu kabari, ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye bigiye bitandukanye. Harimo intebe nyinshi abaje kugura bicaraho; intebe nziza. Harakamo amatara agiye atandukanye: ay'icyatsi, ay'umutuku ndetse ay'ubururu.

Iyi ni inzu icururizwamo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, si ibyo gusa abaje kugura babona n'ubundi buryo bakidagadura bitandukanye cyane ko haba harimo insakazamashusho muburyo bashobora kureberaho ibibashimisha bigiye bitandukanye cyane cyane umupira w'amaguru.

Aha hari abantu benshi, hari n'insakazamashusho, abantu ni benshi bari kureba umupira w'amaguru, bawurebera kuri iyo nsakazamashusho, ikindi biragaragara ko bishimye, bari kwidagadura mu buryo bwinshi butandukanye. Si ibyo gusa, bafite n'ibyo kunywa bisindisha, bisembuye.

Aha ni mu kabari aho bacuruza ibinyobwa bitandukanye birimo ibisembuye n'ibidasembuye. Hari haba hari umukozi ushinzwe kwakira abantu kugira ngo ababaze ibyo bakeneye nibyo bashaka kunywa, abibahereze atabatindiye.

Iki ni ikirangahantu kiri muri Kigali kerekanako hano hari akabari, karimo ibintu byinshi bitandukanye, harimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, ibyo kurya, aho kuryama, aho kurara ndetse n'indi myidagaduro itandukanye.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye, hari aho bacuruza ibyo kurya, hari aho bacuruza imyenda cyangwa se imyambaro ndetse hari n'ikirangahantu kigaragaza ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Ibi ni ibirangahantu biranga ko muri iyi nzu hakorerwamo ibikorwa bitandukanye bijyanye n'akabari cyangwa hacururizwamo ibyo kunywa bisembuye, ndetse si ibyo kunywa gusa, haba harimo n'ibyo kurya, ndetse n'ibindi bintu umuntu ashobora gukora mu gihe nta kindi kintu ari gukora.

Aha ni mukabari ahacururizwa ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ubwo ni inzoga ndetse n'ibyo bindi byo kunywa bigiye bitandukanye, si ibyo kunywa gusa hakaba hari n'ibyo kurya haba harimo imyidagaduro itandukanye ushobora guhurirayo n'abantu, inshuti zawe mugasangira ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.

Iki ni ikirangahantu, kigaragaza ko hafi aha hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye, ariko ibyo kunywa bisembuye ntago ari byiza ku bana, cyane cyane abana bato ndetse nabagore batwite, kandi ikindi, gufata byinshi bishobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga.

Iki ni igipapuro kifashishwa aho bacururiza ibyo kunywa n'ibyo kurya, aho haba hariho ibyo kunywa bafite ubwoko bwabyo ndetse n'ibiciro byabyo ku buryo uza kugura biri bumworohere kubona icyo anywa bikanamworohera kubona ibiciro kugira ngo binamworohereze kwishyura.

Iki ni igipapuro cyo mu kabari kiba kiriho ibinyobwa ako kabari gafite, bigiye bitandukanye n'amoko yabyo atandukanye ndetse hariho n'ibiciro byabyo kugira ngo umuguzi naza kugura ikinyobwa abone icyo akeneye bimworoheye, abone icyo akunda bimworoheye ndetse ahite abona n'igiciro icyo kinyobwa kigura, abone nimba yacyishyura cyangwa nimba atabasha kucyishyura, arebemo ikindi yabasha kwishyura.

Iri ni iduka ricururizwamo ibyo kunywa bitandukanye ibisembuye n'ibidasembuye, hari amacupa arimo inzoga zisembuye ndetse n'amakaziye arimo inzoga zisembuye, hari imitobe itandukanye umuntu utabasha kunywa inzoga yanywa iyo mitobe igiye itandukanye ikozwe muburyo butandukanye, sibyo gusa hari n'amazi yo kunywa.

Aka ni akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye, hari intebe zo kwicaraho abaje kunywa bicaraho, hari amakaziye arimo andi macupa y'inzoga ndetse hari n'impapuro zisuku zikoreshwa igihe umuntu ari kugira icyo arya cyangwa igihe akeneye kwihanagura ndetse hari n'imiheha umuntu ashobora kunywesha kugirango kunywa bimworohere.

Aha hari abagabo batatu n'umubyeyi umwe, imbere yabo hari amacupa y'ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, bameze nkabari kuganira kukintu kingenzi cyangwa se barimunama bafite ibyo barikuganraho, bifite akamaro.

Aha ni mu kabari, ahacururizwa ibinyobwa, ibisembuye n'ibidasembuye, ibisindisha n'ibidasindisha, bigiye bitandukanye, abashaka kunywa, binjira mo hano, bagatanga amafaranga, bakagura, bakanywa. Ariko twibuke ko inzoga nyinshi zishobora gushyira ubuzima bwacu mu kaga.

Aha ni ahacururizwa ibyo kunywa bitandukanye byinshi by'amoko menshi atandukanye, haba harimo ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari amatara y'umukara, hari ndetse n'intebe zo kwicaraho zicarwaho n'abaguzi zisa neza z'umweru, murabona ko hateguye neza kandi habereye ijisho.

Iki ni igipapuro cyifashishwa cyane cyane mu mahoteri, aho haba hariho urutonde rw'ibyo bafite byo kurya ndetse n'ibyo kunywa ndetse n'ubundi bufasha batanga ndetse hariho n'ibiciro byabyo. Ibi byorohereza umuguzi kubona ibyo ashaka vuba kandi akabona n'ibiciro byabyo kugira ngo bimworohere kwishyura.

Aha hari umutaka ukoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, sibyo gusa hari n'ikirango ahantu kigaragaza ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, sibyo gusa hari n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye.

Aha ni ahacururizwa ibinyobwa bitandukanye, by'amoko menshi, ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, hari kwaka amatara y'icyatsi, urabona ko hose hasa icyatsi, si ibyo gusa, hari n'insakazamashusho ihari, kugira ngo ugura bino binyobwa ntanywe gusa, ahubwo anarebe yidagadura, areba amashusho ayo ari yo yose ashaka kureba.

Aha hari inyubako zigaragara nk'iz'ubucuruzi, aho hari ikirangahantu cyerekana ko harimo akabari, gacuruza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye, si ibyo gusa kandi mu kabari haba harimo n'ibindi bikorwa by'imyidagaduro bigiye bitandukanye.

Iyi ni inyemezabuguzi ihabwa umuguzi igihe amaze kwishyura ibicuruzwa yaguze ku isoko cyangwa se mu iduka. Iyi nyemezabuguzi ni ingenzi cyane kuko irakenerwa cyane n'Ikigo cy'Igihugu cy'Imisoro n'Amahoro, umuguzi agomba kuba afite inyemezabwishyu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi hejuru hariho ikirangahantu cyerekana ko mo hano ari akabari karimo ibicuruzwa bisindisha/bisembuye ubwo ni inzoga ndetse n'ibidasembuye, sibyo gusa haba harimo n'ibyo kurya n'indi myidagaduro itandukanye ushobora kumva imiziki ukanabyina ukidagadura mbese mu buryo bwinshi bugiye butandukanye.

Iki ni igipapuro kimenyerewe mu tubari cyangwa ahandi hacururizwa ibyo kurya n'ibyo kunywa aho haba hariho ibiciro ndetse n'ibyo kunywa aho hantu bafite ibi byorohereza umuntu uje kugura kubona ibyo agura ndetse n'ibiciro byabyo bikamutwara umwanya muto ndetse nawe agurisha bikabafasha.

Aha hari ikirahure kirimo inzoga isembuye, sibyo kandi hari n'icupa, hakaba hari n'uburyo umuguzi ashobora kwishyuramo akoresheje uburyo bukoreshwa cyane n'ibigo bibiri by'itumanaho bikorerwa mu Rwanda, kimwe gikoresha ibara ry'umuhondo n'ikindi gikoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ubu buryo buroroshye kandi bworohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi.

Iki ni ikirangahantu kigaragaza ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye, si ibyo gusa, haba harimo n'ubundi buryo bwo kwidagadura butandukanye, harimo imiziki, ushobora kubyina, ushobora kuririmba n'ibindi byinshi bitandukanye, si ibyo gusa kandi, mu kabari habamo n'ibyo kurya, inyama, ifiriti n'ibindi bitandukanye.

Iki ni ikirangahantu kiranga ko hano hari akabari gacururizwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibindi bidasembye bitandukanye.

Aka ni akabari gatoya gacururizwamo ibinyobwa bitandukanye cyane cyane bisembuye kandi by'amoko atandukanye bifite amazina menshi agiye atandukanye kandi bijya bikozwe mu buryo butandukanye, ikindi ibinyobwa bisindisha bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu.

Iki ni ikirangahantu kigaragaza ko hano hari akabari, ndetse n'aho bacuruza ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bitandukanye, bisembuye ndetse n'ibidasembuye, ubusanzwe iki gifasha kuyobora abantu kugira ngo bamenye neza ko aho hantu ari ahantu bacuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa ndetse hari n'icyuma kizwi cyane mu gukonjesha ibyo kunywa mu gihe umuntu ashaka ibikonje.

Izi ni capati zikozwe mu ifarini, amagi, amata ndetse n'umunyu, ibitunguru. Capati ziraryoha kandi zigira intungamubiri ndetse na vitamine.

Icyi ni icyuma gikoranwe ikorana buhanga kuburyo iyo hagiyemo amata yakamwe mu inka kiyatunganya neza kikayasukura kuburyo amata umuntu aba yayanywa ntagire ingaruka amugiraho.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi byose bijyanye n'amata, amata ni intungamubiri ni ingirakamaro ku mubiri w'umuntu. Umuntu uwo ari we wese akeneye amata mu buzima bwe, kuko afite intungamubiri zikenewe mu mubiri wacu.

Aya ni amandazi, iri ni irindazi risatuye, amandazi agiye akoze mu buryo butandukanye, hari akoze hakorejwe amagi, hari akoreshejwe amata, hari asa umuhondo mo imbere, hari asa umweru mo imbere, hari arimo isukari ndetse n'arimo amagi n'amata.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi iriho ikirangahantu cy'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gukora amata, mu gutunganya amata n'ibiyaturukaho, si amata gusa, rutunganya n'imitobe, aha ngaha hari iduka ry'urwo ruganda, ririmo ibikomoka muri urwo ruganda, ubwo ni amata ndetse n'imitobe y'imbuto zigiye zitandukanye.

Aha hari umwana ukiri muto ufite terefone mu ntoki, si ibyo gusa hari ingunguru ntoya ibikwamo amata cyane iyo bagiye kuyavana ahantu hamwe bayajyana ahandi nko ku ikusanyirizo bayajyana ku ruganda, inyuma ye hari umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umutuku ndetse hari n'ikirangahantu kigaragaza ko aho hantu hacururizwa amata.

Iri ni iduka ricuruza amata harimo icyuma gikonjesha ibyo kunywa ndetse n'icyuma kibikwamo amata kugira kiyasukure kinayatunganye.

Aha ni mu iduka ricuruza amata ndetse n'imitobe itandukanye itunganywa n'uruganda rw'Inyange, harimo n'ibyuma byifashishwa mu kubika amata no kuyatunganya kugira agere ku bo yagenewe ameze neza.

Aha ni mu iduka ritoya ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho by'uruganda rwa Nyanza. Hariho uburyo bwo kwishyura igihe umuntu aguze amata Kandi adafite amafaranga mu ntoki.

Iki ni icyuma gikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga kibikwamo amata kikayasukura, kikayatunganya. Ikindi kandi kugira ngo agere kubo yagenewe yujuje ubuziranenge atanduye.

Aha hari abantu batanu bafite ibirahuri bitanu barikunywa amata nkuko tubizi amata ni ingirakamaro ku buzima bw'umuntu cyane cyane umuntu ushonje ndetse niyo waba udashonje ukanywa amata atuma wumva umeze neza.

Aha hari ikirahuri kirimo amata, hari ikaramu ikoreshwa mu kwandika, ndetse hari umuntu ufashe icyo kurya gikoze mu ifarini, amata, amagi n'isukari ndetse n'amazi, ari kwifashisha kugira ngo ibyo ari kurya bimugirire akamaro kandi bigire icyo bimufasha.

Iri n'iduka ritoya ricururizwamo ibyo kunywa ndetse nibyo kurya, harimo imitobe itandukanye, ikozwe mu buryo butandukanye, harimo ndetse nibyo kunywa bishobora gushyushywa. Umukiriya w'umugabo ari kwishyura umukobwa wicaye umaze kumuha ibicuruzwa aguze.

Ibi ni ibyuma bikoreshwa mu gutunganya amata, amata akurwa ku ikusanyirizo akazanwa hano agashyirwa muri ibi byuma, bikayatunganya neza, bikayasukura ku buryo biyamaramo umwanda uba urimo, wagiyemo igihe bari gukama, bigatuma agira ubuziranenge ku buryo nta ngaruka mbi yagira ku bayanywa.

Aya ni amandazi matoya akorwa mu ifararini, isukari amata, amagi ndetse hakoreshwa n'amazi make, araryoha kandi yagufasha igihe ushonje, udafite ibiryo bitetse byo kurya wayifashisha ndetse etse afite n'intungamubiri kuko harimo bimwe mu birinda indwara ndetse nibitera imbaraga.

Iri ni iduka ritoya ririmo umwana w'umukobwa uriguha ubufasha uje umugana ashaka kugura ibyo acuruza harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo imitobe y'imbuto igiye itandukanye n'ibindi binyobwa bitandukanye ndetse harimo n'icyuma gikonjesha kugirango ibinyobwa bigume bikonje kandi bifite ubuziranenge bitangiritse.

Iri n'iduka ricururizwamo amata ririmo icyuma gikoranywe ikoranabuhanga ku buryo kifashishwa mu gushyiramo amata akiva ku nka cyangwa se akiva ku ikusanyirizo, bakayashyira ahangaha kikayasukura, kikayatunganya, kikayaha umwimerere ku buryo atatera indwara umuntu uri buyanywe, sibyo gusa hari n'impapuro z'isuku zifashishwa igihe umuntu agiye kurya ikintu.

Aha ni mu iduka ricururizwamo amata, harimo umukobwa uri kubuganiza amata, ashaka kuyahereza uyakeneye cyangwa se uje kuyagura.

Iri ni iduka ritoya ricururizwamo ibinyobwa, imitobe y'imbuto, amazi, amata, ndetse n'amagi, ibi byose bigira intungamubiri ku mubiri wacu, ni ibyubaka umubiri, kandi birimo vitamini nyinshi zigiye zitandukanye, zifitiye umubiri wacu akamaro.

Aya ni ameza ateretseho amandazi atatu, ari ku isahani irimo amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'ikirahure cy'amata, hirya hari umubyeyi nawe imbere hari igikombe, umubyeyi wambaye imyenda irimo umutuku ndetse n'umuhondo.

Iri ni iduka ritoya, ricuruza amata, harimo ingunguru ibikwamo amata, ntoya, yifashishwa cyane cyane iyo bari gukura amata, bayakura ahantu hamwe, bayajyana ahandi, bayagemura ahantu hatandukanye. Iyi ngunguru irizewe, irafasha cyane, kandi ibika amata neza, akaguma ameza neza, asukuye, ku buryo nta ngaruka mbi agira ku bagiye kuyanywa.

Iri n'iduka ryitwa ikaze ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, imitobe igiye itandukanye ndetse n'ibindi byinshi bikorerwa mu ruganda ruzwi cyane mu Rwanda rw'inyanganye.

Iri ni iduka ricuruza amata y'inyange, hari amabara y'ubururu n'umweru; hari abakobwa babiri bambaye ingofero z'umweru ndetse n'imipira y'umweru.

Uyu ni umutobe w'Inyange ukozwe mu matunda, ugira akamaro kanini kuko amatunda ari mu mbuto zigira akamaro kumubiri w'umuntu mu buzima bw'umuntu cyane cyane abana batoya, kuko imbuto ziri mubirinda indwara bigatuma umuntu agira ubuzima bwiza.

Aha ni ahacururizwa amata, hari umukobwa ndetse n'akabido k'umweru, hari n'icyuma kigaragaza ko hano hacururizwa amata ndetse hari n'ikirangahantu kegetse ku gikuta bigaragara ko hano hacururizwa amata, iki cyuma kirimo gitunganya amata, kikayakomeza asukuye, abitse neza kandi nta mpungenge z'uko ayo mata yaza gupfa cyangwa akangirika.

Iri ni iduka ricururizwamo amata ndetse n'ibiyakomokaho bikorerwa mu ruganda rwa Nyanza, harimo n'icyuma kibika amata kikayatunganya kandi kikayasukura.

Iri ni iduka ritoya ricuruza ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane amata, murabonamo umukobwa uje kugura amata ndetse n'umuhereza amata, amata ningirakamaro kubuzima bw'umuntu kuko arinda indwara.

Aya ni amagi y'inkoko, amagi abamo intungamubiri nyinshi, cyane cyane agira akamaro kanini ku bana batoya, atuma bakura neza, ndetse arinda indwara,

Iri ni iduka ritoya ricuruza ibyo kunywa, ibyo kunywa bidasembuye ndetse ricuruza n'amata, ririmo umwana w'umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi n'umubyeye usutse.

Amata ari mu bikombe binini ateretse ku meza, umusore ari kunywa amata mu kirahure, ndetse n'umukobwa afatishije ikirahure ikiganza, ahantu bicaye hari ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Aha ni nijoro ariko hari ibirangahantu bigaragaza ko hano hari iduka rucuruza amata cyangwa se ibinyobwa bituruka mu ruganda ruzwi cyane mu Rwanda rw'Inyange, ubwo haba harimo amata ndetse n'imitobe itandukanye n'ibindi byo kunywa bitandukanye, uru ruganda rutunganya.

Aha ni mu iduka ricuruza amata ndetse n'ibikomoka ku mata bigiye bitandukanye, aha harimo ibikarito biba birimo amata y'ikivuguto, harimo utujerekani tubikwamo amata y'ikivuguto tw'umweru, ubu buryo bwo kubika amata burizewe kandi nta ngaruka bwagira ku bantu banywa ayo mata.

Iri ni iduka rito ricuruza amata ndetse n'ibindi bikorwa mu mata n'ibiyakomokaho byose. Si amata gusa, harimo n'amagi, harimo n'amajerekani ndetse n'imigati. Harimo n'inkongoro zifashishwa cyane cyane mu kubuganizamo amata mu muco wa kinyarwanda, ndetse harimo n'intebe zo kwicaramo. Ikindi harimo icyuma cyifashishwa mu gutunganya amata kugira ngo kiyasukure, akomeze afite ubuziranenge.

Aka ni akabati kari mu iduka karimo ibyo kunywa, bitandukanye, harimo imitobe itandukanye y'ubwoko butandukanye ndetse n'amazi yo kunywa.

Aya ni ameza yicaweho n'abantu batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri, kuri ayo meza hariho ibikombe bibiri binini birimo amata ndetse buri wese afite ikirahure ari kunywa amata kuko amata ari ingirakamaro.

Aha hari ijage ndetse n'igikombe, si ibyo gusa, hari icyuma kiyungurura amata, kikayantunganya, kikayasukura, ku buryo adashobora kwangirika cyangwa se ngo agire ingaruka mbi ku buzima bw'abayagura cyangwa se bayanywa.

Izi ni indobo ebyiri indobo imwe iririmo amandazi zirapfundikiye zombi ziteretse ku meza hirya hari urugi rw'ibara ry'ubururu ndetse hirya hirya hari itara ririmo riraka.

Iri ni iduka ricurizwamo ibyo kunywa, amazi, amata, harimo icyuma gikonjesha amata, hakamo n'ikindi cyuma bashyiramo amata akiva ku nka, kikayatunganya, kikayasukura, kugira ngo atagira ingaruka mbi agira ku bayanywa.

Aha hariho ameza ateretseho isahani, iriho idindazi ndetse n'urupapuro rw'isuku. Irindazi rikozwe ifarini, amata, amagi, isukari, ndetse n'amazi riradyoha kandi rifasha abantu kubamara inzara.

Aha hari ibirangantego by'uruganda rutunganya amata ndetse n'ibindi binyobwa bidasembuye ruzwi mu Rwanda rw'Inyange, aha rero hari umuryango urimo iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi byo kunywa bikomoka ku mata bikorwa n'uro ruganda rw'Inyange.

Aha hari umubyeyi ucuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho bitunganyije cyangwa se binyuze mu ruganda bivuguruye ku buryo byujuje ubuziranenge, bigafasha cyane cyane abana bato kuko byujuje ubuziranenge kandi bigira ingaruka nziza ku mubiri wacu.

Icyi ni icyo kurya gikozwe mw'ifarini, isukari, amata, amagi ndetse bishyirwa mu ifuru kugirango gikorwe neza mu buryo buteye imbere iki cyo kurya kirafasha cyane cyanecyane iyo umuntu akiriye yari ashonje cyanecyane iyo atagize amahirwe yo kubona ibyo kurya bitetse.

Aka ni akajerekani k'umweru kifashishwa kubikamo amata kugira ngo atangirika cyangwa akenshi aka kajerekani kaba kari mu maduka karimo amata, kugirango abashe kumaramo igihe kinini ku buryo umuguzi yayagura yageza no mu rugo agakomeza kugenda ayanywa gake gake ntakimwirukansa.

Iki ni icyuma cyifashishwa mu nganda cyane cyane mu gutunganya amata kugira ngo bayakuremo imyanda cyangwa ibindi bintu byose byatuma agira ingaruka ku bayanywa, kirayatunganya, akaguma ameze neza, kandi gituma agira umwimerere, kitayangije kandi ku buryo atakwangirika vuba.

Izi ni ingunguru esheshatu zifashishwa mu kubika amata cyane cyane iyo bagiye kuyagemura bayavana ahantu hamwe bayajyana ahandi, urugero bayakura ku ikusanyirizo bayajyana mu ruganda kugira ngo atunganywe neza, ikindi hari n'utujerekani tw'umweru ndetse n'utundi tw'umuhondo natwo twifashishwa mu kubika amata

Aha ni ku iduka ricuruza ibyo kunywa hari icyuma gikonjesha amazi ndetse hari n'amajerekani abikwamo amazi kugira ngo agume afite isuku.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi ifite imiryango ine icuruza ibintu bitandukanye hari ahacuruza amata, ahacuruzwa imyambaro, ahacuruzwa imiti ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibi ni ibyo kunywa bikomoka ku mata bikorwa mu ruganda ruzwi cyane mu gukora ibintu byiza by'umwimerere rukorera mu Rwanda rwa Masaka ruzwiho kugira amata meza aryoshye kandi yujuje ubuziranenge.

Aya ni ameza ateretseho uduti twifashishwa cyane iyo umuntu amaze kurya ibiryo byamufashe mu menyo, atwifashisha akuramo ibiryo cyane cyane inyama cyangwa ibindi biryo bishobora kugufata mu menyo igihe urimo urarya.

ki ni ikirahure kirimo amata cyuzuye, iki kirahure ubundi kimenyerewe kunywebwamo amata y'ikivuguto amenyerewe cyane mu rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri afurika. Aya mata araryoha kandi agira intungamubiri zitandukanye zifasha umubiri kubona ibyo ukeneye mu bijyanye no kuwurinda indwara.

Aha hari utujerekani twinshi, tw'umweru tubikwamo amata cyane cyane iyo agiye kugemurwa ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu.

Uyu ni umuntu uri gufungura icyo kurya gikozwe mu ifarini, amagi, amata ndetse n'isukari kizwi nka keke.

Iri ni iduka ricuruza amata, abagabo babiri bari kugerageza kubuganiza amata mu ngunguru, zifashishwa mu kubika amata kugira ngo atangirika, cyane cyane iyo agiye kugemurwa ahantu hatandukanye.

Iri ni iduka ricuruza ibyo kunywa biturutse mu ruganda rw'inyange harimo imitobe, harimo amata, harimo ndetse n'ibindi byo kurya bitandukanye umuntu ashobora kurisha ayo mata cyangwa iyo mitobe.

Aka ni akabati gateretsemo amacupa y' amazi atunganyije akorewe mu ruganda ameze neza, ikindi afite umumaro ku buzima bw' umuntu kandi y' uruganda ruzwi cyane.

Iyi ni inzu, irimo amarange y'ubururu n'ay'umweru hejuru ku gisenge, ni umukobwa uhagaze wambaye ikote ry'umukara, ndetse n'ingunguru ijyamo amata mu buryo bwa kijyambere ndetse n'umugabo uhagaze imbere, wicaye imbere.

Iyi ni ishashi ibikwamo umugati, iteretse ku meza atwikije igitambaro cy'umweru n'ubururu, ndetse n'akantu babikamo amagi k'umutuku.

Ibi ni ibyo kurya bizwi nka keke bikozwe mu ifarini, amata, amagi isukari ndetse n'amazi, iki cyo kurya kiraryoha kandi cyagufasha igihe cyose ugifashe ushonje, urarya ukumva urahaze.

Iki ni ikirangahantu kiriho umwana urimo uranywa amata y'inyange kivuga ukuntu amata ari meza iyo ateguwe neza ashobora guhita anyobwa yuzuye ubuziranenge ikindi kandi amata ni ingirakamara ku bana bato cyane cyane.

Iri ni iduka ritoya, ricururizwamo ibyo kurya bitandukanye, harimo imbuto, ari zo imineke ndetse n'amandazi, si ibyo gusa, hari n'amagi, imineke igira akamaro kanini kuko iri mu mbuto zirinda indwara umubiri wacu kandi iraryoha.

Iri ni iduka ricururizwamo ibyo kunkwa bitandukanye amata, imitobe byose bikorwa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mugutunganya amata n'ibiyakomokaho ndetse nundi mutobe rw'inyange iri duka kandi harimo icyuma gishyirwamo amata agasukurwa kugirango agere ku baguzi akimeze neza atangiritse kandi ntabagireho ingaruka.

Iyi ni inzu icururizamo amazi ifite amarange y'ubururu ndetse n'umweru hejuru ku gisenge irimo abantu babiri b'abahungu ndetse n'umugabo n'umukobwa uri kubahereza ibyo bagura.

Iyi ni inzu irimo irange ry'ubururu ikorerwamo ubucuruzi bw'amata, hari ibyuma byifashishwa mu gutunganya amata bikayasukura kandi bikayayungurura ku buryo ntamwanda n'umwe usigaramo ushobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu uri buyanywe.

Utu ni uduti turi mu gacupa, dukoreshwa cyane ku meza, cyane iyo abantu bamaze kurya inyama. Duteretse ku meza. Utu duti turifashishwa cyane kuko dufite akamaro, kugira ngo dufashe abantu kwikura ibyabafashe mu menyo.

Aka ni kaduka gatoya gacuruza ibikenewe n'abaturage bya buri munsi, harimo amata ndetse n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye, harimo amata ndetse n'amakeke, abantu bashobora gukenera bifashisha mu mafunguro ya saa sita cyangwa ninjoro.

Aha hari ikirahure kirimo amata hari n'umubyeyi ndetse wicaye ku ruhande nawe ufite ikirahure kinywebwamo cyane cyane icyayi, si ibyo gusa iruhande rwaho hari isahane iriho ibyo kurya bizwi nk'imyumbati.

Iki ni icyo kurya gikozwe mu ifarini, kigiye gikozwe mu buryo butandukanye, hari ikozwe mu nyama, hari ikozwe mu mashaza, hari ikozwe mu birayi, iraryoha kandi irimo intungamubiri zitandukanye kuko harimo imboga n'inyama birinda indwara mu mubiri w'umuntu.

Aha hari icyuma cyifashishwa mu gukonjesha ibyo kunywa ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Aha harimo ijage, harimo akabido k'amata, harimo n'icupa ry'amazi ndetse n'igikombe cyifashishwa mu kunywa amata cyangwa icyayi. Si ibyo gusa, hari n'amajerekani y'umweru yifashishwa mu kubikamo amazi kugira ngo amazi akomeze afite isuku.

Aya ni amandazi akozwe mu ifarini, isukari, amata, amagi ndetse n'amazi makeya. amandazi ni meza cyane kubera ko abantu barayakunda araryoha kandi yagufasha igihe waba ushonje utaribuhite ubona ibyo kurya bisanzwe ukarya irindazi riragufasha kandi rituma utongera kugira inzara.

Aha hari isahani irimo amagi atatu ndetse n'uduti twifashishwa mu gihe abantu bamaze kurya bari kwikura ibiryo byafashe mu menyo, si ibyo gusa kandi amagi agira akamaro cyane ku buzima bw'abantu kuko agira intungamubiri dukeneye kugira ngo twirinde indwara cyangwa se izindi ndwara nyinshi zakatakaka umubiri wacu.

Aba ni abakozi b'uruganda ruzwi cyane mu gutunganya amata ndetse n'ibiyakomokaho rwa Masaka, uru ruganda rugira ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza bifite ubuziranenge, bigirira akamaro igihugu ndetse bikoherezwa no hanze y'igihugu.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho by'uruganda rutunganya amata rwa Nyanza sibyo gusa kandi muri iri duka harimo n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, iri duka risize amarange y'ubururu ndetse n'ay'umweru.

Aya ni amashashi amenyerewe gupfunyikwamo ibikozwe mu ifarine ubwo harimo amandazi, imigati, capati ndetse n'ibindi bitandukanye, aya mashashi afasha kubika ibyo bikozwe mu ifarini neza kugira ngo bitangirika.

Iki ni ikirangahantu cy'uruganda rw'Inyange rutunganya ibinyobwa birimo amata, amazi ndetse n'imitobe y'imbuto zigiye zitandukanye irimo imyembe, amatunda, amaronji ndetse n'izindi n'ibindi binyobwa bindi bigiye bitandukanye.

Aha ni ku iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi byinshi bigiye biyakomokaho, bikorwa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda rwa mukamira, bagira ibiko amata meza ndetse n'ibindi biyakomokaho byiza byujuje ubuziranenge, si ibyo gusa kandi batanga n'akazi ku bantu begereye aho urwo ruganda rukorera, ibi bigira uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Aha hari indobo ebyiri, imwe irimo amandazi indi irimo ibiryohereye bizwi nka keke, ibi byombi bikozwe mu ifarini, amata, amagi, isukari ndetse n'amazi, ndetse amandazi akoreshejwe amavuta n'aho keke zo zishyirwa mu ifuru, aha rero biteretse ku meza ahari ikaramu bisa nkaho ari no mu iduka ricuruza imitobe cyangwa amata.

Iyi ni isambusa ikozwe mu nyama. Isambuza ikozwe mu nyama zigiye zitandukanye hari izi nka, izi hene. Isambusa iraryoha igira intungamubiri zigiye zitandukanye zikenewe mu mubiri wacu.

Aha ni kwiduka ricuruza amazi yo kunywa ari mu macupa meza cyane abika amazi neza, amazi akaguma asa neza asukuye ku buryo ntacyayangiza cyangwa ngo gitakaremo yandure bibe byatuma amazi atera abantu indwara.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho, by'uruganda rwa Mukamira, ruzwi cyane mu Rwanda, rufitiye abantu benshi akamaro, cyane ko rutanga akazi ku begereye aho rukorera, kandi ndetse rugatanga imisoro igira uruhare mu kubaka ibikorwa remezo.

Uyu ni umuntu uri kubuhaniza amata ayakura mu kajerekani, ayashyira mu kirahure, amata yuzuye ibirahure bibiri, amata agira ingaruka nziza ku buzima kandi agira intungamubiri zikenewe mu mubiri, w'umuntu cyane cyane abana bato.

Ibi ni ibyo kurya bikozwe mu ifarini, bigiye bitandukanye hari ibikozwe mu mashaza, hari ibikozwe mu nyama, hari ibikozwe mu birayi, bigiye bitandukanye kandi biraryoha kandi bifasha abantu kuburyo iyo bafite inzara wenda badafite umwanya wo guteka.

Aha ni umugabo uri kubuganiza amata ayakura mu ngunguru ntoya, igemurwamo amata ayashyira mu cyuma gishinzwe kuyatunganya gikoranywe ikoranabuhanga ku buryo kiyasukura, kikayatunganya neza, ku buryo agera ku bayagura akimeze neza, ntakibazo na kimwe yagize.

Uyu ni umugati ucagaguyemo uduce twinshi uyu mugati ukozwe mu bintu bitandukanye ifarini hari ikozwe mu mata, hari ukozwe mu magi, hari ukozwe ari isukari gusa iyiye hari ubwoko butandukanye umugati ugira akamaro kanini ku buzima bwacu kuko iyo tuwuriye twirirwa tumeze neza uradufasha kugira ngo ntitugire inzara.

Aya ni amandazi, akozwe mu ifarini, isukari, amata, amagi, araryoha, ikindi abantu barayakunda, cyane cyane abana.

Aha hari amazi yo kunywa ari muducupa dufite imifuniko y'ubururu, ndetse anverope hari n'inkongoro ebyiri zikoreshwa cyane cyane m'umuco nyarwanda bashyiramo amata, amata y'inka.

Iyi ni isahani irimo impapuro z'isuku zikoreshwa cyane aho bacuruza ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya cyane cyane izi ngizi zigatima abantu bakomeza kubungabunga isuku bakibuka ko isuku ari isoko y'ubuzima.

Aha hari umwana w'umukobwa wambaye iherena, inyuma ye hari ingunguru ntoya ibikwamo amata, mu gihe bagiye kuyakura ku ikusanyirizo bayajyana ku ruganda.

Aya ni amata atunganyijwe yaciye mu nganda, arimo inkeri. Aya mata ni meza, cyane cyane ku bana batoya, kuko yongera intungamubiri kandi arimo intungamubiri zivuguruye zanyuze mu ruganda.

Aya ni ameza ndetse n'intebe, ameza ateretseho ibirahure, birimo amata y'ikivuguto ndetse n'akajerekani k'umweru.

Aha ni umuntu uri kunywa amata arya na keke biri ku isahani y'umweru, ibi byombi birafasha cyane cyane iyo umuntu ushonje, kandi bimuha imbaraga igihe abiriye atari ameze neza mu nda, ntacyo bimutwara ahubwo bituma akomeza kugira imbaraga.

Iri ni iduka ritoya ricururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya, muri ibyo byo kunywa harimo imitobe ndetse n'amata, amazi, harimo amagi ndetse na capati, n'ibindi byo kunywa bigiye bitandukanye, n'ibyo kurya bitandukanye.

Aha ni aho bacururiza ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa hari ibiryo, hari ndetse n'ikirahure hari impapuro z'isuku zifashishwa cyane iyo umuntu ari kurya cyangwa se ahacururizwa ibyo kurya cyane ko zikenerwa cyane iyo umuntu akeneye kwihanagura.

Aha hari umukobwa uri mu nzu ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'inyenyeri ifite ibara ry'ubururu bwijimye, uyu mukobwa asa nkaho acuruza ibyo kunywa cyane cyane ibikomoka ku mata kuko afite ibikoresho byifashishwa mu gushyushya ibyo kunywa bitandukanye ndetse n'akajerekani k'umuhondo.

Aha ni mu iduka ricuruza amata, aha hari ikirahure kirimo amata kimenyerewe kunywebwamo amata y'ikivuguto, iruhande rwacyo hari undi mugabo uri kunywa nanone aya mata, hirya naho hari abandi bari kunywa aya mata.

Iri ni iduka ritoya ricuruza ibyo kunywa bitandukanye, hari icyuma gishyushya, hari igikonjesha ku buryo udashaka ibikonje yafata ibishyushye, ubwo ni ibikomoka ku mata, icyayi cyangwa ibindi byo kunywa bitandukanye. Si ibyo gusa kandi, hari n'ibyo kurya wafatisha, hari keke cyangwa amandazi ndetse n'amasahani yo kuriraho.

Aha hari amata ari mu tujerekani twinshi ndetse n'ibiyakomokaho biri mu gikarito bigiye bitandukanye.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n' ibikoze mu mata. Aya mata ari mutujerekani tw' umweru ndetse n' uducupa tw' umutuku ndetse n' iroza ndetse n' ibyuma bibikwamo amata.

Uyu ni umugore uri kubuganiza amata mu kabido akoresheje ijage ndetse n'umubirikira, ayashyira mu kabido k'umweru kugira ngo akomeze ameze neza kandi afite isuku, ubu ni uburyo bwiza bwo kubika amata kugira ngo atangirika.

Iri ni iduka ririmo ibyo kurya n'ibyo kunywa bigiye bitandukanye, harimo amata, harimo ndetse na keke, harimo imigati, muri iri duka harimo umusaza uri gufasha umuguzi kubona ibyo akeneye, umuguzi ufite akabido, bisa nk'aho aguze amata.

Izi ni ingunguru ntoya zishyirwamo amata, zikifashishwa cyane kuvana amata aho ari ku makusanyirizo bayajyana ku nganda kugira ngo atunganywe kandi yitabweho mu buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga kugira ngo abayageraho bakayanywa ntagire ingaruka mbi abagiraho.

Aha hari ibinyabiziga butandukanye, hari amagare, hari amapikipiki, ndetse hari n' igare ririho ingunguru ikoreshwa cyane mukugemura amata ikayageza aho yari agiye agisukuye. Iyo ngunguru iri kumwe nakajerekani kumweru Nako kifashishwa mukubika amata, urabona ko hari urujyanuruza rw' abantu ndetse n' ibinyabiziga ubona ko habera ubucuruzi butandukanye.

Iki ni icyuma kifashishwa mu kubika amata mu buryo bwa kijyambere kikayasukura kugira ngo agere kubo yagenewe ameze neza nta mwanda afite cyangwa ngo ku buryo yabatera indwara.

Iki ni icyuma gishyirwamo amata y'inka agasukurwa mu buryo bwa kijyambere kugira ngo agezwe ku baturage afite ubuziranenge, ari mu nzu igizwe n'amatafari ahiye.

Iri ni iduka ritoya ririmo ibicuruzwa bikenewe mu buzima bwa buri munsi bugiye butandukanye harimo amata ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye byifashishwa mu buzima butandukanye bwa buri munsi, bikenerwa cyane n'abaturage.

Iri ni iduka ritoya ricururizwamo ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya bitandukanye, harimo ndetse n'icyuma gishyirwamo amata kugira ngo kiyatunganye kandi gikomeze kiyabike akomeze ameze neza kuburyo abayanywa, ntangaruka ari bubagireho kubera ibibazo by'umuhanda, aba asukuye kandi arizewe.

Iri ni iduka ricuruza amata, amazi ndetse n'imitobe y'imbuto zitandukanye zituruka mu ruganda rw'Inyange ruzwi cyane Rwanda mu gukora ibinyobwa. Si ibyo gusa harimo n'impapuro z'isuku zifashishwa igihe muntu ari kurya nk'irindazi cyangwa se capati...

Iki ni ikirangahantu kerekana ko hano ari iduka ricuruza amata ndetse n'ibiyakomokaho by'uruganda rwa Nyanza rutunganya amata.

Aha ni mu iduka ritoya ricuruzwa ibyo kunywa bitandukanye, harimo imitobe itandukanye, ndetse n'amata, ndetse hari n'ibyuma bifashishwa mu kugira ngo bibike amata neza, atagira ikibazo.

Iki ni icyuma gikoranwe ikoranabuhanga rituma kibika amata kikayasukura kikayatunganya neza kandi kikayabika igihe kirekire atangiritse nta n'ikibazo agize ku buryo agera ku baguzi akimeze neza kandi nta kibazo yagize.

Amajerekani abiri afite ibara ry'umweru, aryamye mu kabati kagerekeranye gafite ibara ry'ikijuju ndetse niry'umweru, gateretse ku gipapuro cy'ubururu ndetse n'umweru.

Iri ni iduka ritoya ricuruzwamo ibinyobwa, imitobe itandukanye ndetse harimo n'icyuma gifasha gukonjesha ibyo binyobwa, igihe umuntu adashaka kubinywa bishyushye bakabimuha bikonje.

Iyi n'indobo irimo amandazi abiri ,amandazi akozwe mu ifarini, amata ,amagi ,ndetse n'isukari ,amandazi araryoha , abantu barayakunda ndetse hari n'umufuniko , ndetse n'intebe yo kwicaraho.

Aha hari umugabo wicaye kuntebe y'umweru, ufite akajerekani mu ntoki uri kugerageza gufata amata kugira ngo ayashyire muri kano kajerekani ayabike neza kandi ayabike asukuye, kuburyo aya mata adashobora kwangirika.

Aya ni amasambusa. Amasambusa ari mu bwoko butandukanye hari akozwe mu birayi, hari akozwe mu nyama, hari akozwe mu mashaza aratandukanye agira intungamubiri nyinshi kandi afite vutamini dukenera mu mubiri wacu.

Utu ni utujerekani tw'arindwi tw'umweru ndetse n'akandi k'umuhondo, dukoreshwa cyane cyane iyo badushyiramo amata cyangwa ibindi bintu bisukika, utujerekani tw'umweru twandikishijeho amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Iri ni iduka ricuruza amata ndetse n'ibindi biyakomokaho harimo ndetse n'icyuma kifashishwa mu kubika amata, kikayarinda, kikayasukura, kikayatunganya kugira ngo agere kubo yagenewe ntakibazo yagize kuburyo ntangaruka mbi yabagiraho.

Aha hari icyo kurya gikozwe mu ifarini, amagi, umunyu, amata ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iraryoha kandi ifasha umuntu cyane cyane igihe nta mbaraga afite ashonje atari buhite abona ibyo kurya, ahita abona ibyo arya kandi iramufasha imumara inzara.

Iri n'iduka ricururizwamo amata n'ibindi byo kunywa bitandukanye birimo imitobe iba m'uruganda rw' inyange ,sibyo gusa harimo n'amazi yo kunywa, harimo ibirahure, amandazi ari mundobo abitse neza afite isuku, sibyo gusa hari impapuro zisukura ikindi hari ibikombe bikoresha cyane cyane iyo bagiye guha umuntu icyayi.

Uyu ni umutaka ukoreramo umukozi w'ikigo k'itumanaho uri gufasha umufatabuguzi kubitsa, kubikuza cyangwa kugura amayinite.

Aka ni akaduka k'ikigo k'itumanaho gikoresha amabara y'umutuku n'umweru kegerezwa abafatabuguzi kugira ngo kabafashe kubitsa, kubikuza ndetse no kwakira amafaranga.

Iki ni igipapuro kiriho uburyo bwo kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, hariho imibare ndetse n'izina ry'umucuruzi kugira ngo ugura abashe kwishyura bimworoheye bitamugoye.

Iki ni icyapa gifasha uguze ibicuruzwa, kwishyura bimworoheye, akoresheje ikoranabuhanga, bitamusabye gutanga amafaranga mu ntoki, iki gipapuro kimufaha gusobanukirwa neza uburyo ari bukoreshe yishyura.

Iri ni iduka ritoya, ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umutuku ndetse n' ibara ry'umweru, haba harimo umukozi w'icyo kigo ufasha abaturage begereye hano kubona ubufasha ku bijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza, no kwakira amafaranga.

Aha hari akaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho, hirya yako hari abana bane ndetse n'umugabo, aka kaduka kifashishwa cyane n'abafatabuguzi batuye muri ako gace, aho umukozi ukoreramo abafasha kubona ubufasha butandukanye, kubijyanye no kubitsa kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Iri ni iduka ritoya rikoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo icyo umukozi ukoramo aba ashinzwe ni ugufasha abafatabuguzi baba bari hafaha akabafasha kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga ndetse akabasobanurira ku bindi bibazo by'itumanaho baba bafite.

Aha hari abakozi b'ikigo k'itumanaho bakorera mu Rwanda bakoresha ibara ry'umuhondo , hari n'abafatabugizi bicyo kigo ,abakozi bacyo bambaye ingofero z'umuhondo n'imipira y'umuhondo barafasha abafatabuguzi kubona ubufasha bakeneye kubibazo bibaza byerekeranye n'itumanaho ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byerekeranye nicyo kigo cy'itumanaho.

Aha ni ku iduka ry'ikigo k'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abafatabuguzi b'icyo kigo ndetse hari n'umukozi uri kubafasha ku bibazo bafite byo kubitsa, kubikura no kohereza amafaranga ahantu hatandukanye.

Aka ni akazu gatoya k'ikigo cy'itumanaho, gakoreramo umukozi umwe kugira ngo afashe abafatabuguzi b'icyo kigo kubona ubufasha bwerekeranye n'itumanaho ndetse n'ibindi bibazo bibaza cyangwa ibindi bibazo bafite bigiye bitandukanye ku itumanaho.

Aba ni abagabo babiri bahagaze aho basabira ubufasha ndetse na mo imbere harimo umukobwa uri kubaha ubufasha ku muyoboro wa MTN w'itumanaho wa MTN, ku ruhande hari undi uri gukoresha telefoni.

Aka n'akazu gatoya kagiye Kari ahantu hatandukanye, hakoreramo umuntu umwe ufasha abafatabuguzi b'ikigo cy'itumanaho rikorera mu Rwanda, rikoresha ibara ry'umuhondo bafasha ibintu bitandukanye, gashyirwa ahantu hegereye abaturage kugirango ubufasha bubegere.

Iki ni igipapu cyerekana uburyo bworoshye bwo kwishyura udakoresheje amafaranga mu ntoki, ahubwo ugakoresha uburyo bugezweho, ubu buryo buroroshye kandi burizewe, si ibyo gusa bworohereza umucuruzi ndetse n'umuguzi. Ikindi burizewe kandi bugira uruhare mu iterambere ry'igihugu no kwihutisha ubucuruzi mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Aha hari abantu batatu, hari umuntu wicaye ku ipikipiki, hari uri ku muhereza kugirango ipikipiki ye ibashe kugenda, hari n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gifasha kubitsa no kubikuza, kwishyura no kugura. Kugirango bamworohereze, hari n'uburyo bwo kwishyura bworoshye uburyo muri bose ntawuri bukore ku mafaranga.

Aka ni akaduka gatoya gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorara m'U rwanda gikoresha amabara y'umuhondo ubusanzwe haba harimo umukozi kashyizweho kugirango kegerezwe abafatabuguzi biki kigo kubona serivise mubijyanye no kubitsa kubikuza kohereza ndetse no kwakira amafaranga cyangwa kugura uburyo bwo guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aha hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda. Gikoresha ibara ry'umuhondo, imbere yacyo hari abafatabuguzi ndetse hari n'abakozi b'iki kigo, bafasha bano bafatabuguzi kubasubiza ibizabo baba bibaza bijyanye n'itumanaho, cyane cyane nko kubitsa amafaranga, kohereza, kugura amayinite yo guhamagara, kwakira no kubitsa amafaranga ahantu hagiye hatandukanye.

Umuntu yishyuye amafaranga igihumbi k'umuntu witwa Fabrice Hakuzimana ariko arabura gushyiramo imibare ye y'ibanga kugira ngo amafaranga agere kuwo agenewe kohererezwa.

Aha hari abakozi b'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo gifasha abantu mu kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu.

Iyi ni inzu y'ubucuruzi imbere yiyo nzu hari akazu gatoya gakoreramo ufasha abakeneye ubufasha abakeneye ubufasha kubijyane n'ikigo cy'itumanaho ku kigo gikoresha ibara ry'umuhondo, kandi imbere ye hari umugabo wambaye ikoti ry'umutuku.

Aka ni akaduka gato k'ikigo cy'ifatabuguzi gikorera mu Rwanda, korohereza abafatabuguzi kugira babone ubufasha bubegereye batarinze kujya ku cyicaro gikuru, cyangwa ngo bajye kure cyangwa bibafate umwanya munini babona ubufasha bw'ifatabuguzi bakeneye.

Aka ni akazu gatoya gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo gikorera m'urwanda gifasha abaturage kwakira kohereza ndetse no kubitsa amafaranga muburyo bworoshye.

Iri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gitanga ubufasha ku bafatabuguzi bacyo. Murabona abakozi bacyo bari guhereza ubufasha abafatabuguzi b'icyo kigo kugira ngo babone ubufasha bakeneye kandi biborohereze imirimo yabo ya buri munsi, aho bashobora kubikuza ndetse bakanabitsa amafaranga cyangwa bakayohereza.

Aha hari ikiranga ahantu kigaragaza ko hano hari abakozi, cyangwa hari gutangirwa ubufasha ku bijyanye n'ikigo cy'itumanaho kikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo kiragira ngo ikimenyeshe ko hano bashobora kuza bakabona ubufasha bakeneye kubyerekeranye n'itumanaho, cyane cyane nko guhamagarana cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Ubu ni uburyo bukoreshwa n'abacuruzi ndetse n'abaguzi, igihe umuguzi aguze ibicuruzwa agiye kwishyura, ni uburyo bugezweho, bukoreshwa mu bucuruzi, bukorohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi, kugira ngo ubucuruzi bukomeze butere imbere kandi bwihute, mu buryo bwa kijyambere.

Aha ni ku iduka ry'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo abakozi b'iki kigo bafasha abafatabuguzi bacyo, kubasobanurira cyangwa kubafasha mu bintu bitandukanye harimo kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga, cyangwa ibindi bibazo bafite mu bijyanye n'itumanaho nko guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Uyu ni umutaka w'ikigo cy'utumanaho gukorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo abakozi w'icyo kigo batatu, ndetse n'umufatabuguzi wacyo umwe, bari gufatanya kugira ngo bamuhe ubufasha akeneye ku bijjyanye n'iki kigo cyangwa ku bijyanye n'itumanaho. Hirya yaho kandi hari ikinyabiziga kifashishwa mu ngendo zitandukanye.

Aha ni ku kaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abakozi bacyo batatu ndetse n'abafatabuguzi bacyo batatu buri wese ari gufasha buri mufatabuguzi kubona ubufasha akeneye cyane cyane mu bijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga cyangwa se kugura amayinite kugira ngo abone uko bahamagara cyangwa bohereza ubutumwa bugufi.

Aha hari akazu gatoya gakoreramo ikigo cy'itumanaho ufasha abafatabuguzi bagenda ku muhanda cyangwa baturiye hano hafi kubona ubufasha ku bijyanye n'itumanaho cyane cyane nko kubitsa kubikuza, kwakira no kohereza amafaranga sibyo gusa kandi umuntu ashobora no kugura amainte kugira ngo ahamagare cyangwa kohereza ubutumwa bugufi ku nshuti ze cyangwa abavandimwe.

Iri ni uduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo umukozi ndetse n'umufatabuguzi uri gusaba ubufasha ku bintu bitandukanye, birimo kohereza, kwishyura, kwakira, kubitsa no kubikuza amafaranga cyangwa ari kumufasha no gusobanukirwa ibindi bibazo agiye afite bijyanye n'itumanaho, ubwo harimo nko guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aka ni akaduka gatoya k'ikigo kitumanaho gikoresha amabara y'umuhondo ndetse hari n'abafatabuguzi bicyo kigo baje gusaba ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'itumanaho ndetse nibyo iki kigo gikora.

Aha ninzu ntoya y'umuyobora witumanaho wa MTN irimo utanga ubufasha ndetse nusaba ubufasha kubijyanye nuyu muyoboro w'itumanaho wa MTN.

Aka ni akafuka gato k'ikigo k'itumanaho gukoreramo Umukozi umwe uha ubufasha abafatabuguzi bashaka kubikuza ndetse no kubitsa amafaranga cyangwa bayonerereza abavandimwe cyangwa nabo bayakira kugira ngo ubuzima babashe kugenda neza.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho, gikorera mu Rwanda, gikoresha amabara y'umuhondo, uri guha ubufasha abagnerwabikorwa cyangwa se abafatabuguzi b'iki kigo, bakeneye ubusobanuro n'ubufasha mu bigiye bitandukanye, byerekeranye n'itumanaho.

Iki ni igipapuro cyerekana uburyo bwo kwishyura bworoshye kandi bwizewe, hariho imibare umuntu akanda kugira ngo ibafashe kwishyura, umucuruzi adakoze ku mafaranga cyangwa n'umugozi atayakozeho bose bikaborohereza.

Aha hari abantu batatu, hari umutwazi w'ikinyabiziga uri kugerageza kwishyura aho amaze kunywesha, ndetse hari n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo, uri kubafasha kugira ngo bahererekanye amafaranga neza kandi byihuse.

Iyi ni inzu ikoreramo ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umweru n'umutuku ndetse harimo umukozi w'iki kigo utegereje ko haza usaba ubufasha kugira ngo amufashe bintu bigiye bitandukanye, nko kumusobanurira ku ibijyanye n'iki kigo cy'itumanaho cyanga ubundi bufasha bwose yaba akeneye.

Aha ni ku kaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo gikorera mu Rwanda hari abafatabuguzi bategereje gufashwa ubufasha bagiye basaba butandukanye harimo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga no kugura amayinite, cyangwa ibindi bibazo bagiye bafite mu byerekeranye n'itumanaho.

Aka ni akaduka gatoya gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho, aha ngaha hari abakozi babiri b'ikigo cy'itumanaho bambaye imyenda y'imihondo bigaragara ko bakorera ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo gifasha abanyarwanda mu itumanaho kubitsa, kohereza, kwakira no kubikuza amafaranga.

Ubu ni uburyo bworohereza umuguzi n'umucuruzi kugira ngo bahererekane amafaranga igihe umuguzi ahashye, iyo agiye kwishyura akoresha buno buryo buramworohereza kuko nta yandi mafaranga bamukata, buroroshye kandi buremewe ikindi burizewe buri mafaranga ari ako yishyurirwaho abafite umutekano uburyo atayoba cyangwa ngo ajye ahandi hantu atagenewe kujya.

Aka ni akaduka gato gakoreramo umukozi umwe w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda gifite amabara y'umuhondo uyu nguyu icyo ashinzwe ni ugufasha abafatabuguzi kubona ubufasha kubyerekeranye no kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga no kwishyura bakoresheje telefone cyangwa uburyo bugezweho.

Aha hari ipikipiki yifashishwa m'ubucuruzi mugutwara ibicuruzwa, ibivana ku mucuruzi ubigeza ku muguzi, ibi biroroshye kandi byoroshya ubucuruzi. Sibyo gusa hari n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda ibigo byombi igikoresho amabara y'umutuku n'umweru ndetse yambaye n'ijire y'umuhondo bivuzengo atanga ubufasha mu bigo byombi.

Aba ni abakobwa batatu bambaye imipira y'imihondo, ndetse umwe yambaye umupira w'ubururu, wandikishijeho amabara y'umuhondo, aba ni abakozi b'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, aba bafasha guha abafatabuguzi ubufasha bakeneye ku byerekeranye no kubitsa, kubikuza, cyangwa gusobanukirwa ibindi bibazo bijyanye n'itumanaho mu guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aha ni ahakorera ikigo cy'itumanaho, gikoresha amabara y'umutuku n'umwer, harimo abafatabuguzi b'icyo kigo ndetse harimo n'abakozi n'icyo kigo kugira ngo bafashe bano bafatabuguzi kubona ubufasha bakeneye ku byerekeranye n'itumanaho.

Aha hari umubyeyi uvuye guhaha, ari imbere y'iduka ritoya rikoreramo ikigo cy'itumanaho gukoresha ibara ry'umuhondo, gukorera mu Rwanda, gifasha abantu kubutsa, kohereza, ndetse no kubikuza amafaranga, kugira ngo ibafashe gukomeza ubuzima bwabo bwa buri munsi mu buryo bworoshye.

Aka ni akaduka gatoye gakoreramo umukozi w'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda, haba harimo umukozi w'icyo kigo umwe kugira ngo ahe ubufasha abafatabuguzi b'icyo kigo begereye hano abafashe mu bujyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga ndetse no kugura amayinite yo giuhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aha ni ku iduka ry'ikigo cy'itumanaho, jyikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, barigufasha umubyeyi kumuha ubufasha kubijyanye nibyo yibaza cyane cyanye ku ibijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza cyangwa kubikuza amafaranga.

Ubu ni uburyo bukoreshwa umuntu yishyura igihe aguze ibicuruzwa ariko adafite amafaranga mu ntoki cyangwa se adashaka kwishyura mu ntoki mu buryo bwo kwirinda kwanduzanya indwara binyuze ku guhererekanya amafaranga mu ntoki. Ubu buryo ni ubw'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo aho umuguzi ashyiramo imibare abona kugira ngo abashe kwishyura umucuruzi. Ibi biroroshye kandi birizewe.

Uyu ni umuntu, urikwishyura akoresheje uburyo bugezweho bwo kudakora kumafaranga yishyura ibyo amaze kugura.

Iri ni iduka ririmo abakozi b'ikigo k'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, bari gufasha abafatabuguzi b'iki kigo mu byo bibaza bigiye bitandukanye mu bijyanye n'itumanaho.

Uyu ni umutwazi w'igare, wambaye umupira w'umuhondo, wambaye n'umupira n'ishati y'umukara. Ari imbere y'umutaka n'ikigo cy'igihugu cy'itumanaho.

Iyi ni inzu ikorerwamo n'ikigo cy'itumanaho, gukoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, harimo abaje gusaba ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye bijyanye n'itumanaho, ndetse n'abandi babahereza ubufasha kugira ngo akazi kabo korohe.

Aka ni agashami gatoya k'ikigo cy'itumanaho, gikoresha amabara y'umuhondo, harimo umukozi w'umukobwa wambaye umupira w'umukara ndetse n'umugabo uri gusaba uyu mukobwa ubufasha kubijyanye n'iki kigo cy'itumanaho.

Iri ni ishami ritoya ry'ikigo cy'itumanaho, gikoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, aha harimo abakozi b'icyo kigo, ikindi harimo n'abasaba ubufasha, aba bakozi bari kubahereza ubufasha bugiye butandukanye, ku bibazo bigiye bitandukanye bafite, bijyanye n'iki kigo cy'itumanaho ndetse n'itumanaho muri rusange.

Aha hari utuzu dutoya tubiri tw'ibigo by'itumanaho bikorera mu Rwanda, kimwe gikoresha ibara ry'umuhondo ikindi gikoresha ibara ry'umuruku ndetse n'umweru, bafasha abaturage kwakira, kohereza ndetse no kubitsa amafaranga ahantu hagiye hatandukanye mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda.

Aha hari akaduka gatoya k'ikigo k'itumanaho, gakoreramo umukozi w'iki kigo ufasha abafatabuguzi begereye muri kano gace, kubona ubufasha mu bintu bitandukanye, kohereza amafaranga, kuyabitsa, kuyakira ndetse no kuyabikuza cyangwa se bakagura amayinite yo guhamagara cyangwa se kohereza ubutumwa bugufi.

Aka ni akaduka gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, uyu ashinzwe uyu mukozi ashinzwe, gufasha abafatabuguzi abafasha mu bijyanye no kubitsa, kubikuza ndetse no kohereza amafaranga, akanabasobanurira cyangwa akabafasha ku bindi bibazo bagiye bafite bijyanye n'itumanaho nko guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi.

Aha hari iduka ritoya ry'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, haba harimo umukozi w'icyo kigo, ushinzwe gufasha abafatabuguzi batuye hafi aho, kugira ngo abegereze ubufasha, bityo abafashe mu bibazo bitandukanye byo kubikuza, kubitsa, kohereza no kwakira amafaranga.

Aha ni mu iduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha amabara y'umuhondo, hari umukozi ushinzwe guha abafatabuguzi ubufasha no kubasobanurira, ari gusobanurira umufatabugauzi, ibintu bitandukanye, ibibazo yibaza, amufasha gusobanukirwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye n'itumanaho.

Aha hari abantu babiri umwe n'umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, ndetse n'umufatabuguzi w'iki kigo ari kumufasha mu bintu bigiye bitandukanye cyane ko bari imbere y'akaduka gakoreramo, uyu mukozi w'iki kigo uyu mufatabuguzi aba akeneye ibintu byinshi harimo; kohereza amafaranga, kugura amayinite yo guhamagara, kubitsa no kubifuza.

Uyu ni umugore n'umugabo, umugabo ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, ari kumwe n'umufatabuguzi w'icyo kigo, ari kumusobanurira ku byerekeranye n'ibyo icyo kigo gikora, cyane cyane gukoresha telefoni mu buryo bwo kwishyura, kubitsa , kohereza amafaranga cyangwa amusobanurira ibindi bijyanye n'itumanaho ku bindi bibazo uno mufatabuguzi yaba yibaza.

Aha ni mu iduka ricuruza ibyo kunywa umuguzi ari kwishyura akoresheje uburyo bugezweho bwo kwishyura udakoze ku mafaranga.

Aha hari akaduka gatoya k'ikigo k'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo ndetse n'abafatabuguzi b'icyo kigo bategereje gukemurirwa ibibazo bagiye bafite bitandukanye ku itumanaho.

Iyi ni inzu irimo abakozi b'ikigo k'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo n'umweru bari imbere ya mudasobwa bari guha ubifasha uwaje abagana umugenerwabikorwa waje abagana abashakaho ubufasha.

Uyu ni umutaka ukoreramo umukozi w'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abafatabuguzi b'icyo kigo bakeneye gufashwa mu bijyanye no kubitsa, kubikuza, kugura amayinite no kohereza amafaranga ahantu hatandukanye.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho uri gufasha abantu abereka uburyo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, afite igipapuro ari kubereka kiriho imibare wakoresha wishyura bitewe n'uwo ugiye kwishyura, ukishyura ibicuruzwa bikoroheye udakoze ku mafaranga.

Ubu ni uburyo bworoshye umuguzi ashobora gukoresha yishyura ibicuruzwa, ibicuruzwa aguze ku mucuruzi, ibi bikorohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi buri wese adakoze ku mafaranga, ibi kandi turabikangurirwa cyane kugira ngo twihutishe iterambere mu bucuruzi.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo haba harimo umukozi w'icyo kigo agafasha abafata buguzi b'icyo kigo kubona ubusobanuro cyangwa akabafasha mu bintu bigiye bitandukanye harimo kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Iri ni iduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, umwe mu bakozi ari guhereza umufatabuguzi agaseke ngo agire ibyo akuramo, bose barishimye kandi uko bose bishimiye, undi mukozi nawe ari gufasha undi, nawe aramwishimiye urabona ko bari kumufasha neza kandi ari busobanukirwe.

Iri ni duka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo hari umufatabuguzi ushaka ubufasha mu bijyanye no kwakira, kohereza amafaranga, kuyabitsa cyangwa kuyabikuza cyangwa se no kwishyura ibyo yaguze cyangwa no kugura amayinite, kugura umuriro n'ibintu byinshi bitandukanye uyu muntu yamufasha.

Aha ni ku iduka ry'ikigo k'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abakozi b'icyo kigo bameze nk'abari mu igenzura cyangwa bari gusobanura ibintu bitandukanye.

Ubu ni uburyo bwo kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo abantu batishyura bafashe amafaranga mu ntoki, ibi byorohereza umucuruzi ndetse n'ugura kugira ngo ubucuruzi bukomeze koroha.

Ubu ni bumwe mu buryo umuyoboro wa emutiyeni ukoresha kugira ngo abagura n'abagurisha biborihere kugura badakoze ku mafaranga ahubwo bakoreshe ikoranabuhanga ryo kudakora ku mafaranga.

Ubu ni uburyo bukoreshwa mu kwishyura amafaranga umucuruzi igihe uguze ariko udashaka gukoresha amafaranga mu ntoki, ibi byorohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi bigatuma bose bakoresha uburyo bugezweho bwo kwishyura ndetse no kwishyurwa.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, aho haba harimo umuntu ishinzwe gufasha abafatabuguzi b'icyo kigo bahereye muri ako gace, akabafasha kubitsa, kubikuza, kwakira amafaranga ndetse no kuyohereza biboroheye.

Uyu ni umukozi w'ikigo k'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo ari gusobanurira umutwazi w'ipikipiki ibibazo byinshi yibazaga cyangwa kumumara amatsiko ku bijyanye n'itumanaho akamworohereza kumusobanurira n'ibyamufasha cyangwa byamworohereza ubuzima.

Iki ni igipapuro cyerekana uburyo bworoshye bwo kw'ishyura ibicuruzwa uguze mw'iduka ukorohereza umuguzi ndetse n'umucuruza bakoresha ikoranabuhanga badakoze ku amafaranga bagakoresha imibara cyangwa uburyo bujyezweho bwo kwishyura amafaranga batayakoresheje cyangwa batayakozeho mu intoki.

Iri ni isoko rikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, bw'ibiribwa bigiye bitandukanye, ndetse hari n'uburyo umuntu yakwishyura bimworoheye, akoresheje uburyo bworoshye adakoze ku mafaranga, akoresheje uburyo bw'itumanaho bitamugoye, bikorohera umuguzi ndetse n'umucuruzi kugira ngo bose biborohere, ubucuruzi bukomeze kugenda neza.

Aha hari umutaka ukoreramo abakozi batatu b'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo ,hari ndetse numufatabuguzi umwe bose bari gufatanya kugirango bahe umufatabuguzi serivise akeneye zo kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga sibyo gusa kandi hari ikinyabizigaa kifashisha kugenda injyendo zitandukanye .

Aka ni akaduka gato k'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, harimo umukozi wacyo umwe ndetse n'abafatabuguzi babiri baje gusaba ubufasha ku bintu bitandukanye ubwo harimo kwishyura, kugura amayinite, kohereza cyangwa kubikuza no kubitsa amafaranga ahantu hagiye hatandukanye mu gihugu cyangwa se no hanze y'igihugu.

Iki ni ikirangahantu kerekana ko hano hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo kugira ngo umuntu ushaka ubufasha mu bigiye bitandukanye byerekeranye n'iki kigo yahita abona ko hano gihari akaza kubaza.

Uyu ni umuntu urikwishyura akoresheje uburyo bugezweho, aho ukoresha terefone yawe ukishyura amafaranga utayakozeho, yamaze gushyiramo ibisabwa byose, yamaze kubona izina ryu'wo agiye kwishyura, arabura gushyiramo umubare we w'ibanga kugirango yemeze ko yishyuye umuguzi yaguzeho ibyo agiye kwishyura.

Aha ni uburyo bwo kwishyura umuguzi ashobora gukoresha ub'uburyo yishyura umucuruzi igihe aguze ibicuruzwa, ibi bibafasha bombi kudakora ku amafaranga, cyane ko gukora ku amafaranga bishobora gutuma banduzanya indwara zigiye zitandukanye. Ibi rero birizewe kandi bituma mwese mwirinda kwanduzanya, indwara zigiye zitandukanye.

Aka ni akaduka gatoya kicyigo cy'itumanaho, gikorera mu Rwanda harimo umukozi umwe ndetse numufata buguzi w'icyo kigo arikumufasha kugirango ibyo akeneye abibone, nimba ari ukubikuza nimba arukubitsa cyangwa kohereza amafaranga bimworohere, ikindi ashobora no kumusobanurira kubijyanye n'itumanaho cyangwa ikindi kibazo cyose yaba afite kubijyanye n'itumanaho.

Iri ni iduka ry'ikigo kitumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo hariho abakozi baryo bane ndetse n'abafatabuguzi babiri bari gusobanuza cyangwa bari kwaka ubufasha ibintu bigiye bitandukanye, ubwo harimo kubitsa amafaranga, kubikuza, kohereza cyangwa kwakira ndetse no kugura amayinite yo guhamagara.

Iyi ni inzu ikoreramo umuntu ufasha abantu bakeneye ubufasha ku bijyanye n'umuyoboro w'itumanaho wa emutiyeni ukoresha amabara umuhondo ndetse umukobwa urimo yambaye ishati y'umweru ifite ikora ry'umukara afite ibisuko by'umutuku.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo k'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo ririmo abakozi babiri bategereje abafatabuguzi kugira ngo babafashe ku bibazo byinshi bibaza cyangwa bigiye bitandukanye.

Aka ni akazu gatoya gakoreramo umuntu umwe, ufasha abagenerwabikorwa b'ikigo k'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, akabafasha kubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga bayohereza ahanti hirya no hino hagiye hatandukanye ndetse ku bantu batandukanye, mu buryo bwikoranabuhanga.

Aha hari abakozi b'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo ndetse n'abashaka ubufasha kuri aba bakozi ku bintu bigiye bitandukanye by'itumanaho, bari kubahereza ubufasha ndetse banabaha ubusobanuro bw'ibintu bigiye bitandukanye.

Aha hari umugabo uri imbere y'imboga ari kugerageza kwishyura akaoresheje ikoranabuhanga ubwo ndavuga ikarita, ibi ngibi bigezweho kandi byoroshya ubucuruzi ntago bitinda biroroshye kandi birihuse binogeye buri wese.

Ubu ni uburyo umuntu ukoresha umuyoboro w'itumanaho wa emutiyeni akoresha yishyura ibicuruzwa aguze; cyangwa se agurishije kugira ngo bamwishyure, agomba kuba afite ubu buryo.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo, haba harimo umukozi umwe uri gufasha abafatabuguzi b'icyo kigo, akabafasha kubitsa, kubikuza, ndetse no kohereza amafaranga ahantu hatandukanye, cyangwa akabafasha gusobanukirwa ibindi bibazo bibaza ku itumanaho.

Aka n'akaduka gatoyo k'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ahangaha haba ubusanzwe ahaba harimo umukozi w'icyo kigo ufasha abegereye aho kano kazu gateretse, akabafasha mu ibintu bitandukanye; kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga ndetse no kuyakira cyangwa kugura amayinite.

Aha ni ku iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha amabara y'umuhondo, aho bari gushishikariza abantu gukoresha uburyo bwa Izihirwe na Yoro, hari abasore babiri bari kwidagadura, babyina, iruhande rwabo hari iradiyo ikoreshwa cyane mu birori mu gihe bari gucuranga imiziki ndetse hari n'umukozi w'iki kigo cy'itumanaho.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo kitumanaho g'ikoreshwa ibara ry'umuhondo, hari umufatabuguzi n'umukozi uri kumufasha kubitsa, kohereza cyangwa kubikuza amafaranga cyangwa ibindi bibazo afite bujyanye n'itumanaho.

Iki ni ikirangahantu kerekena ko hano hari iduka, ry'ikigo kitumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, iki kirangahantu kandi kirerekana ko hano umuntu ashobora kuhabona ubufasha bwose akeneye kubyerekeranye n'ubufasha kino kigo gitanga cyangwa ibikorwa kigenera abafatabuguzi banyu.

Aha hari abagabo babiri ndetse n'ababyeyi n'abana. Aba bagabo harimo umukozi w'ikigo k'itumanaho g'ikoreshwa ibara ry'umuhondo ndetse hakaba hari n'undi nawe wambaye ibara ry'umuhondo ariko wambaye ishati mo imbere bigaragara ko bombi ari abakozi biki kigo ,nyuma y'aho hari umutaka utangirwamo ubufasha bwerekeranye n'itumanaho.

Uyu ni umuntu ufite telefoni uri gukoresha uburyo bugezweho bwo kwishyura adakoze ku mafaranga, arishyura agashyiramo imibare, agashyiramo n'amafaranga akabona izina ry'umucuruzi agiye kwishyura bityo bigatuma bamubaza kugira ngo yemeze ko yishyuye, agashyiramo umubare we w'ibanga kugira ngo amafaranga amuveho agere ku mucuruzi, buroroshye, burizewe kandi buremewe.

Aka ni akzu gatoya gakoreramo umukozi w'ikigo k'itumanaho, gikoresha amabara y'umuhondo, abafata buguzi babiri ndets n'ugomba kubafasha akabahereza ubufasha bakeneye, ku bijyanye n'itunamaho ndetse n'iki kigo muri rusange.

Aha hari umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, gikorera mu Rwanda ndetse n'umufatabuguzi wambaye umupira w'umukara, ari kumusobanurira ku byerekeranye n'itumanaho ndetse n'iki kigo n'uburyo ashobora kumufasha kugira ngo bimworohereze ubuzima bwe cyangwa akazi ke ka buri munsi.

Iri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo. Rikoreramo abakozi b'iki kigo; ku buryo abafatabuguzi bacyo, bajya gusabayo ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye bibaza ku itumanaho. Ashobora kuba ari ukubitsa, kubikuza cyangwa kohereza amafaranga, cyangwa se afite ibibazo mu itumanaho rye.

Aka ni agashami gatoya k'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo. Harimo umukozi w'ikigo kigo ndetse n'umufatabuguzi w'Ikipe kigo, ushaka guhabwa ubufasha, akabuhabwa n'uyu mukozi uri muri aka gashami, akamufasha ibibazo afite bigiye bitandukanye ku byerekeranye n'itumanaho ndetse n'ubufasha iki kigo gitanga.

Aha hari umubyeyi ukorera ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha amabara y'umuhondo ari kumwe n'umufatabuguzi wicyo kigo, amufasha amusobanurira ku bintu byinshi adasobanukiwe byerekeranye n'itumanaho inyuma yabo kandi hari ikiranga ahantu cyerekana aho aho hantu hari imikorere yicyo kigo cyangwa se ushobora kuhabona ubufasha bwerekeranye n'itumanaho.

Aha ni ku iduka ritoya ry'ikigo k'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo, hari abafatabuguzi baje kubitsa, kubikuza, kohereza amafaranga cyangwa kubaza bindi bibazo byerekeranye n'itumanaho.

Aha hari abagabo babiri umwe ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, ari kumwe n'uwo ari guha ubufasha mubijyanye n'itumanaho amufasha kubitsa kohereza cyangwa kwakira amafaranga aturutse ahantu hatandukanye mu Rwanda cyangwa hanze y' u Rwanda.

Iri ni iduka ry'ikigo k'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo, haba harimo abakozi b'icyo kigo batanga ubufasha, ku bafatabuguzi bakeneye ubufasha ku bintu bigiye bitandukanye byerekeranye n'itumanaho, harimo guhamagara kohereza amafaranga, kubikuza amafaranga ndetse no kubikuza amafaranga.

Ubu ni uburyo bukoreshwa mukwishyura, igihe umuguzi ahashye ibicuruzwa yajya kwishyura yasanga ntamafaranga afite muntoki akayishyura akoresheje buno buryo, iyo ni imibare umuguzi akoresha yishyura, haba hariho nizina ry'umucuruzi, ibi byorohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi ndetse bikoroshya ubucuruzi muri rusange.

Aka ni akaduka gatoya gakorerwamo umukozi umwe w'ikigo cy'itumanaho gikorera m'U Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, uyu mukozi ikintu aba ashinzwe ni uguha ubafatabuguzi ubufasha bakeneye mubijyanye no kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kuyohereza, ndetse no kuyakira cyangwa se kugura amayinite mukugirango babone uko bahamagara cyangwa se bohereza ubutumwa bugufi.

Aha hari umutwazi w'ipikipiki wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipikipiki isa umuhondo. Inyuma ye hari ikirangahantu kiriho ibinyabiziga cy'umunara kiriho umugabo wambaye amataratara, kigaragaza ko hano hashobora kuba hari umuntu yahabona ubufasha kubijyanye n'itumanaho cyangwa se abafatabuguzi bacyo bahagana bakahabona ubufasha bakeneye.

Aha hari umugabo ugiye kwishyura akoresheje ikoranabuhanga, adakoze ku mafaranga cyangwa ngo n'umucuruzi ayakoreho.

Uyu n'umuhanzikazi nyarwanda witwa Bwiza uri gususurutsa abafatabuguzi buguzi b'ikigo cy'itumanaho gikoresha ibara ry'umuhondo.

Iri ni iduka rikoreramo ikigo cy'itumanaho, ririmo abakozi batatu b'icyo kigo bari gufasha abafatabuguzi b'icyo kigo kubona ubufasha bugiye butandukanye bwo kohereza, kwakira no kubitsa amafaranga.

Ni abagabo babiri usaba ubufasha ndetse n'utanga ubufasha, uri gutanga ubufasha yambaye umupira w'umuhondo urimo ikirangantego cy'umuyoboro w'itumanaho wa emutiyeni

Aka n'akaduka gatoya cyangwa se akazi gakoreramo umukozi umwe w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo uyu abashinzwe gufasha abafatabuguzi begereye hano kubahereza ubufasha mu bijyanye no kubitsa, kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga.

Iri ni iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, hari abafatabuguzi bacyo, hari n'abakozi bacyo bari gufasha abafatabuguzi gusobanukirwa bimwe bibaza ku bijyanye n'itumanaho, ibijyanye no kubitsa amafaranga, kubikuza, kwishyura, kohereza ndetse no kugura amayinite cyangwa ibijyanye no guhamagara no kohereza ubutumwa bugufi.

Aha hari umubyeyi wambye umupira w'umuhondo ibara rimenyerewe ku ikigo cy'itumanaho gikorera m'U Rwanda gitanga serivise zo guhamagara kwishyura, kubitsa kohereza no kwakira amafaranga muburyo butandukanye, yambaye ijire ririho uburyo umuguzi ashobora gukoresha yishyura ibicuruzwa aguze muri iri duka.

Iri ni iduka ririmo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha ibara ry'umuhondo, imbere ye hari imyenda, hari ingofero, hari uducupa, bisa nkaho agiye kuduhereza, si ibyo gusa harimo n'udukapu ushobora kubikamo ibintu bitandukanye bisa nkaho bigiye guhabwa abafatabuguzi b'iki kigo.

Aha ni umufatabuguzi uri gusaba ubufasha bugiye butandukanye ku mukozi w'ikigo cy'itumanaho, ari kumusobanurira ibintu byinshi bitandukanye byerekeranye n'itumanaho n'ibindi bibazo yaba afite, aramufasha mu bijyanye no kubitsa, mu bujyanye no kwishyura, mu bijyanye no kubikuza, mu bijyanye no kohereza amafaranga, bitamugoye kandi bimworoheye.

Aha hari umukozi w'ikigo cy'itumanaho, uri gufasha umutwazi w'ikinyabiziga kumusobanurira ibijyanye n'itumanaho.

Uyu ni umuntu uri gukoresha umuyoboro w'itumanaho wa emutiyeni, ushaka kwishyura amafaranga, akoresheje telefone.

Aha hari iduka ry'ikigo cy'itumanaho gikorera mu rwanda gikoresha ibara cyane cyane ry'umuhondo, aha harimo abakozi b'iki kigo ndetse n'abafatabuguzi bacyo, batanga ubufasha ku bafatabuguzi mu bintu byinshi bagiye bitandukanye, bijyanye n'itumanaho.

Aka ni akazu gatoya, gakoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho, gikorera mu Rwanda, gikoresha ibara ry'umuhondo, karafunze, ariko ubusanzwe haba harimo umukozi umwe ufasha abashaka kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Iri ni iduka ritoya ry'ikigo kitumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, haba harimo umukozi w'icyo kigo ufasha abatabuguzi begereye hano kubahereza ubufasha butandukanye kubijyanye no kubikuza, kubitsa, kohereza amafaranga ndetse no kuyakira.

Uyu ni umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikoresha amabara y'umuhondo ndetse n'umufatabuguzi umaze gukoresha, guhabwa ubufasha, arishimye kandi biragaragara ko uyu muntu, uyu mukozi w'ikigo k'itumanaho yamuhaye ubufasha bwiza kandi bwizewe, uyu mugabo akaba yishimye.

Iri ni iduka ry'imyenda, ririho uburyo wakwishyura umwenda byoroshye udakoze kumafaranga, mugihe waba ubonye umwenda wishimiye umaze kuwugura ushobora kwishyura ukoreshsje buno buryo bityo bikagufasha bikagufasha bigafasha n'umucuruzi, mwese bikabafasha Bigakomeza no gutuma ubucuruzi bugenda butera Imbere.

Iri n'iduka ritoya rikoreramo umukozi w'ikigo cy'itumanaho gikorera mu Rwanda gikoresha amabara y'umuhondo, aba ashinzwe gufasha abafatabuguzi begereye hano akabaha ubufasha mu kubitsa, kubikuza, kugura amayinite no kohereza amafaranga ahantu henshi hatandukanye mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda.

Aha ni umukozi w'ikigo k'itumanaho, gikoresha amabara y'umuhondo, Ari kumwe n'umufatabuguzi, Ari kumufasha kumukemurira ibibazo bijyanye n'itumanaho, ubwo harimo guhamagara, kohereza, kubitsa no kwakira amafaranga avuye ahantu hatandukanye ndetse anamusubiza ibindi bibazo yibaza bijyanye n'itumanaho.

Ubu ni uburyo bw'ikoranabuhanga umuguzi ashobora gukoresha kugira ngo atumaneho n'umugurisha kugira ibyo akeneye bimugereho atavuye aha ari cyangwa atagiye kubyizanira ku isoko cyangwa ku mugurisha.

Aya ni amapikipiki yifashishwa mu gukura ibicuruzwa ku isoko abigeza ku muguzi mu buryo bwihuse kandi bworoshye, ibi byorohereza umuguzi kugira ngo abone ibicuruzwa nye ku gihe kandi bitamutindiye.

Ubu ni uburyo bugezweho umuntu yifashisha kugira ngo agere ku byerekezo bitandukanye cyane cyane ahantu agiye bwa mbere cyangwa ahantu atazi atigeze agera, ubu buryo buramufasha kugira ngo aho hantu ahagere atayobye cyangwa atanyuze mu zindi nzira zitari zo.

Uru ni urubuga usangaho amasoko agiye atandukanye akorera kuri murandasi aho umuguzi ashobora gutumizaho ibicuruzwa yakunze kuri murandasi, bikamugeraho aho atuye atiriwe ava aho ari cyangwa na we atiriwe ajya ku isoko, ahubwo akabitumiza kuri murandasi bikamugeraho mu gihe gito.

Ubu ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu guhahira kuri murandasi, uhahira ahantu hagiye hatandukanye ku isi, hashobora kuba mu gihugu cyawe, cyangwa muri Afurika, cyangwa ku isi muri rusange, ariko ugahaha uri mu Rwanda, ugahaha ibicuruzwa biri hanze y'u Rwanda. Mu buryo bworoshye.

Uyu ni umutwazi w'ikinyabiziga igare wifashishwa mu gutwara ibicuruzwa abishyira umuguzi abikuye ku isoko aho umuguzi yabiguze. Ibingibi birihuta bifata umwanya mutoya kandi birizewe. Bifasha cyane umucuruzi ndetse n'umuguzi kutangiza umwanya wabo bajya ku isoko, ibi kandi bikagira uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubucuruzi no kugira ubucuruzi bwihuta.

Ubu ni uburyo bworoshye bwo kugurira ibyo kurya kuri murandasi, igihe umuntu ashonje kandi adafite umwanya wo kujya ku iduka cyangwa ku isoko guhaha, ashobora kubitumiza kuri murandasi bikamugeraho atarinze ava aho ari.

Aha hari imboga n'imbuto bigiye bitandukanye, cyangwa ibindi bikoresho byinshi byo mu gikoni, ushobora gutumiza kuri murandasi, hariho n'ibiciro byaho, ku buryo ubitumiza uri mu rugo, bakabakuzanira aho uherereye, utarinze kugera ku isoko rya Kimironko.

Ubu ni uburyo umuntu ashobora kujya kuri murandasi agahaha bimworoheye atavuye aho ari cyangwa atavuye mu rugo ngo arinde ajya kujya ku isoko akoresha murandasi agashakisha ibyo ashaka kugura akabitumiza bikamugeraho mu gihe gito.

Uru ni urubuga rw'ubucuruzi rukorera kuri murandasi ruba ruriho ibicuruzwa bitandukanye, bijyanye n'ikoranabuhanga, imyambaro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye, ushobora kubigura uri mu Rwanda cyangwa uri hirya no hino ku isi, ibi byoroshya ubucuruzi kandi bifasha mu iterambere mu kwihuta.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora kujyaho ukabona ibicuruzwa byinshi ukeneye, harimo imyambaro, inkweto, ibikoresho byo mu nzu n'ibindi bintu bitandukanye, ukabashakisha ku mbuga nkoranyambaga zabo, ukabona ibyo ukeneye hanyuma ukishyura, ukabonaho n'ibiciro byabo, ukishyura bikoroheye, utavuye mu rugo, ugahaha utavuye aho uri.

Aya ni amaguru y'umukobwa cyangwa se umuntu wi'gitsina gore yambaye inkweto zifunguye zirimo amabara y'umweru ndetse n'umukara.

Ubu ni uburyo bwo guhahiraho kuri murandasi ukagura ibicuruzwa ubibonye kuri murandasi ukabigura bikakugeraho mu gihe gito bitagutindiye, ubu buryo burizewe kandi buremewe.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi ruhuriraho abaguzi n'abacuruzi, haba hariho ibicuruzwa bitandukanye aho ushobora kugura cyangwa ukagurisha ibikoresho ufite cyangwa ukagura ibyo ukeneye bitakugoye.

Iyi ni ipikipiki n'umutwazi wayo byifashishwa mu bucuruzi mu gukura ibicuruzwa ku mucuruzi, ibijyana ku muguzi bitwara umwanya muto birihuta Kandi birizewe. Ibi byoroshya ubucuruzi bigatuma bukomeza gutera imbere mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi riba ririho ibicuruzwa byinshi bitandukanye, si ibyo gusa haba hariho nimero ndetse n'imbugankoranyambaga bakoresha kuburyo ushobora kujyaho ugatumiza ibikoresho ukeneye ugahaha utavuye aho uri biroroshye kandi birizewe.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ricuruza ibintu bigiye bitandukanye imyambaro, ibyo kurya urabigura utavuye aho uri bakabikuzanira aho uri ntakiguzi bigusabye ntakintu utanze, ibingibi bituma umwanya wawe utawukoresha cyane ikindi biragufasha kuko bihagerera igihe kandi birizewe.

Aha hari abagabo babiri, hari ndetse ni ipikipiki yifashishwa cyane mu bucuruzi, ikura ibicuruzwa ku mucuruzi ibigeza ku muguzi mu gihe umuguzi atabashije kwigira ku isoko akabitumizaho bikamugeraho vubavuba kandi byihuse, n'uburyo bwiza bwihutisha ubucuruzi, burizewe kandi bufasha umucuruzi ndetse n'umuguzi bose kugirango badakoresha igihe cyabo ne nabi.

Ubu ni uburyo bworoshye bwo kugura itike kuri murandasi, igihe ushaka kujya mu gitaramo runaka.

Uyu ni umutwazi w'ipikipiki uvana ibicuruzwa k'umugurisha abigeza k'umuguzi, ari umuguzi ndetse n'umugurisha batarinze kuva aho baherereye kugira ngo ibi bicuruzwa bibagereho, uyu mutwazi abibafashamo.

Iyi ni ipikipiki yifashishwa kuvana ibicuruzwa ahantu hamwe ibijyana ahandi, ibi byorohereza umucuruzi ndetse n'umuguzi batavuye aho bari, ibicuruzwa bikabageraho kandi neza mu gihe bidatinze mu nzira kandi bitamaze amasaha yabo.

Aba ni abatwazi b'ipikipiki yifashishwa mu kugeza ibicuruzwa ku muguzi ibikuye ku mucuruzi yitwa "vuba vuba", ibingibi birihuta, birizewe kandi biremewe kandi bigira akamaro kanini mu kwihutisha ubucuruzi no korohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi.

Aha hari ifoto iriho ibyo guteka cyane cyane imboga ndetse n'imbuto n'ibindi bikoreshwa mu gikoni, hakaba hariho n'uburyo ushobora kubihaha utavuye mu rugo, ukoresheje murandasi cyangwa ugahamagara kuri nimero ziriho. Si ibyo gusa hariho n'ibiciro byabyo, ku buryo byorohereza umuguzi kubona ibyo akeneye vuba kandi akabibonera ku gihe atiriwe ajya ku isoko.

Aha hari umugabo ufite agapfunyika asa nk'aho agashyiriye umuguzi wari wagatumije agakuye ku mucuruzi, ibingibi byoroshya ubucuruzi Kandi birizewe bitwara igihe gitoya, birihuta, bituma abantu badakoresha umwanya munini bajya ku masoko cyangwa bazenguruka bashakisha ibicuruzwa cyangwa aho bagura ibyo bakeneye.

Iyi ni inyubako ndende y'ubucuruzi igeretse gatatu imbere yayo hari ibinyabiziga ndetse n'amapikipiki ibyo binyabiziga bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye amapikipiki ni yayandi yifashishwa mu gukura ibicuruzwa ku mucuruzi ibigeza ku muguzi umuguzi atiriwe ava aho ari cyangwa ngo umucuruzi ave aho ari ibi bigira uruhare runini mu iterambere no kwihutusha ubucuruzi.

Ubu ni uburyo bwifashishwa mu bucuruzi igihe umuguzi adafite umwanya wo kugera ku isoko akabitumizaho bakabimuzanira mu rugo.

Uyu ni umukozi w'ikigo gishinzwe kuvana ibicuruzwa ku mucuruzi kibigeza ku muguzi kizwi nka Vuba Vuba, aho utumiza ibicuruzwa uri i wawe bikakugera ho mu minota mike kandi bidatinze.

Iyi ni ipikipiki yifashishwa mu bucuruzi, mu buryo bwo gukura ibicuruzwa ku mugurisha ibigeza ku muguzi vuba vuba kandi byihuse bidatwaye igihe kinini bikamara iminota mikeya, umucuruzi atarenze kuva aho ari cyangwa ngo n'umuguzi ava aho ari.

Uru n'urubuga rw'ubucuruza rukorera kuri murandasi rubaho ibicuruzwa bitandukanye inkweto, amasakoshi y'abagore n'ibindi birungo by'ubwiza bikoresha cyane n'abagore. Ndetse n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye bikorera kuri murandasi, ushobora guhaha aho waba uri hose, ibi byoroshya ubucuruzi hirya no hino kwisi.

Iri ni isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye rikorera kuri murandasi, ku buryo ushobora guhaha utavuye aho uri ukoresheje kuri murandasi ugahaha ugatumizayo ibyo ukeneye bakabikuzanira mu rugo utavuye aho uri.

Iri ni isoko ryo kuri murandasi, ricuruza imboga n'imbuto, aho utumiza imbuto cyangwa imboga ukeneye, bakazikugezaho ku muryango w'urugo rwawe, bakazikuzanira aho uherereye, utiriwe ugera ku isoko.

Uru ni urubuga rw'ubucuruzi, rukorera kuri murandasi, ku buryo umuguzi ashobora gutumiza ibyo akeneye ku iduka, bikamugeraho hifashishijwe ipikipiki ndetse n'umutwazi wayo, bikamugeraho bidatinze, vuba. Ubu buryo buremewe kandi burizewe, kandi bugira vuba vuba.

Iki n'ikigo cy'igihugu gifasha abaturage kubona serivise zigiye zitandukanye za Leta "irembo", zirimo gushaka ibyemezo bigiye bitandukanye: iby'ubutaka, iby'ingaragu, by'uko utafunzwe, ibyemezo mbese n'ubundi bufasha bugiye butandukanye bwerekeranye na Leta cyangwa imibereho myiza y'abaturage.

Iri ni isoko rikorera kuri mirandasi ushobora gukoresha murandasi ugashakisha ibyo bafite cyangwa ugashakisha abo ari bo mu gihe ukeneye amakuru mbere yuko utangira guhaha ukoresheje buno buryo ushobora kubanza gushakikasha gushaka amakuru mbere yuko uhaha ibi biroroshye bikumenyesha ko aho ugiye guhahira hizewe kandi hemewe.

Ahantu havunjishiriza ubwoko butandukanye bw'amafaranga turabona televiziyo imanitse ku gikuta, tukabona ubwoko bw'amamashini abara amafaranga nk'awe dusanga mu ma banki mo turimo turabona ko bashobora kuba bavunja amafaranga y'amadolari, amayero amapawunde n'ibindi byinshi bitandukanye, gusa bagi hagiye hariho igiciro cyashyizweho kuri buri faranga.

Iyi ni ipikipiki ndetse n'umutwazi wayo, ubu ni uburyo bukoreshwa n'abacuruzi kugira ngo bageze ibicuruzwa ku baguzi, byoroshye kandi byihuse, umuguzi atavuye aho ari cyangwa umucuruzi ave aho ari.

Umutwazi w'ipikipiki utwaye ibicuruzwa kugira ngo abigeze kubakiliya babitumye, biturutse muri pozo abijya, abishyiriye umukiliya wabitumye aho atuye hose kugira ngo bimugereho atarinze yigira ku iduka.

Ubu ni uburyo bwo guhaha bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, kuburyo umuntu ashobora guhaha ari mu Rwanda, agahaha ibiturutse mu mahanga kandi ubucuruzi bukagenda neza, hifashishijwe iri koranabuhanga ryo guhaha mu bihugu bigiye bitandukanye.

Uru ni urubuga rubaho ibicuruzwa byinshi bitandukanye, rukorera kuri murandasi ku buryo ushaka guhaha ahahira kuri murandasi, ibyo yaguze bikamugeraho hifashijwe kubimwoherereza bikamugeraho atavuye aho ari, ibi bikorohereza umuguzi ndetse numucuruzi.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi rifite ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo imyambaro, inkweto, imyenda y'abana, imyenda y'abagore, si ibyo gusa, hari n'imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ubwiza bw'abagore. Ibi ngibi birafasha cyane kubera ko umuntu ashobora guhaha kuri murandasi atiriwe ajya ku isoko.

Uru ni urubuga rukorera kuri murandasi, rubaho amatike igihe umuntu ashaka kugura, kwishyura kugira ngo abashe kugera mu gitaramo runaka cyangwa ibindi bikorwa by'imyidagaduro runaka, byabereye ahantu runaka kugira ngo bimufashe kwishyura bitamugoye kandi bimworohereze kwinjira mu gitaramo, atitesheje umutwe.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, ushobora kujyaho ukagura ibyo ushaka kugura, hanyuma bikakugeraho utiriwe uva aho uri. Biroroshye ni muburyo bwo gukoresha ubucuruzi buteye imbere kandi bitwara umwanya muto.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ubu ni uburyo wakifashisha ushyiramo igicuruzwa ukeneye guhaha kigahita cyiza ukabona n'ibiciro byacyo bityo bikakorohera kukigura ukakigura n'umucuruzi wizewe kandi kikakugereraho ku gihe ubu buryo burizewe kandi buremewe.

Iri niduka risagwamo imboga ndetse n'imbuto, Ibintu byose bicyenewe muburyo bwo kurinda ubuzima ibirinda irwara aribyo :imboga ,imbuto. mumbuto dusangamo vitamin zigiye zitandukanye cyane cyane amaronji dusangamo vitamin zitandukanye imineke ndetse n'izindi mbuto ndetse n'imboga zifashishwa kugirango abantu barye iryo yuzuye.

Ubu ni uburyo bwifashishwa bwo guhahira kuri murandasi, hakifashishwa umuntu ujyana ibicuruzwa ku muguzi, akabikura aho umucuruzi ari akabigeza ku muguzi byoroshye kandi byihuse.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi ricuruza ibikoresho by'ubwiza bikoreshwa cyane cyane n'igitsina gore aho ushobora kubitumiza bikakugeraho utavuye iwawe cyangwa bikakugeraho utarinze ujya ku isoko.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, riba rifite ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, kandi rifite n'ubushobozi bwo gufata ibyo umuguzi yaguze rikabimugerezaho mu rugo, atiriwe ava aho ari, ndetse bikorohereza ubucuruzi, umuguzi ndetse n'umugurisha, bose bikihutisha iterambere ry'ubucuruzi.

Uyu ni umugabo utwara ipikipiki yifashishwa mu bucuruzi ivana ibicuruzwa ku mucuruzi ibijyana ku muguzi, bitwara igihe gitoya, biremewe kandi birizewe, ushobora kwizera ko umwanya wawe rwose umeze neza, bifata umwanya mutoya, ni umwanya muto ipikipiki ikaba ikugejejeho ibicuruzwa byawe waguze.

Iri ni isoko rizwi cyane kandi rikorera kuri Murandasi, aho ushobora kujyaho ugashaka ibicuruzwa ukeneye, ukabituma bakabikugezaho aho uri utiriwe uva mu rugo nabo batiriba baza ku isoko aho bari bakakugeraho, iri soko ririzewe kandi rigira uruhare mu kwihutisha iterambere ry'ubucuruzi mu buryo bwihuta bw'ikoranabuhanga kandi bugezweho.

Aha hari inzu y'ubucuruzi ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye imbere yiyo nzu hari ikinyabiziga gifite ibara ry'ubururu sibyo gusa kandi ahangaha harimo n'ahakorerwa ubucuruzi hari imyambaro.

Izi ni imboga zikoreshwa mu biribwa kugira ngo zirinde indwara umubiri, harimo inyana, imboga zisanzwe, amashu ndetse n'izindi nyinshi zigira akamaro kumubiri wacu cyane cyane zirinda indwara zigatuma dukomeza kugira ubuzima bwiza.

Iyi ni ipikipiki yifashishwa cyane mu bucuruzi, aho umuguzi agura ibicuruzwa ari iwe, umucuruzi akabimwoherereza mu rugo, umuguzi atavuye aho ari, bikamusangayo atiriwe agera ku isoko.

Iyi ni ipikipiki yifashishwa mu bucuruzi, kugirango umucuruzi n'umuguzi batumaneho ariko buri wese atavuye aho ari. Ivana ibicuruzwa ku mucuruzi ikabigeza ku muguzi ikoroshya ubucuruzi, igira vuba kandi irizewe.

Aba ni abatwazi b'amapikipiki bafasha abantu kugenda mu ngendo zabo zigiye zitandukanye hirya no hino mu gihugu bakabakura ahantu hamwe babajyana ahande bambaye imyenda y'imituku yandikishijwemo amabara y'umweru.

Aha hari isoko ricururizwamo ibitoki, hari utwo bashyiramo ibyo bitoki kugira ngo bidateza umwanda, hari abacuruzi, hari n'iminzani yo gupimiraho nimba ibiro byapimwe aribyo.

Uyu n'umutwazi w'ipikipiki ugejeje ibicuruzwa k'umuguzi wari wabiguze akoresheje murandasi akabimugezaho ku igihe kandi akabimugezaho bimeze neza bitangiritse ntakibazo byagize ubu buryo ni bwiza bituma abantu badakoresha igihe kinini bajya ku isoko guhaha kandi byihutisha iterembere ndetse n'ubucuruzi muri rusange.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ribaho ibicuruzwa bitandukanye harimo ibyo kunywa, ibyo kurya, ibyo kwambara, ku buryo ushobora gutuma ibyo ukeneye ukoresheje murandasi bikakugeraho mu gihe gito kandi byihuse, ibi byorohereza umuguzi ndetse n'umucuruzi kugira ngo ubucuruzi bukomeze kugenda neza kandi bukomeze koroha, kandi bigira n'uruhare mu iterambere ry'igihugu.

Aba ni abatwazi b'amapikipiki bari kumapikipiki yifashishwa cyane cyane mu bucuruzi, aho aho akura ibicuruzwa ku mucuruzi abigeza kumuguzi mu buryo bworosye kandi bwizewe, birihuta bituma igihe kihuta bibafasha kugira vuba kuko bahagerera igihe. Ibi kandi byoroshya byoroshya ubucuruzi bukagenda neza kandi bukihuta bugatera imbere byihuse.

Ubu ni uburyo bugezweho umuguzi ahahira ibintu kuri murandasi, agahaha ibintu bitandukanye kandi abihahiye ahantu hatandukanye.

Aya ni amapikipiki yifashishwa mu buryo bwo guhahira kuri murandasi, akura ibicuruzwa k'umucuruzi abigeza kumuguzi mugihe gitoya kandi byoroshye, mu masaha makeya bikaba bigeze kumuguzi atavuye aho ari ndetse n'umucuruzi atavuye aho ari.

Iyi ni ipikipiki yifashishwa mu gukura ibicuruzwa ku mucuruzi bigeza ku muguzi mu gihe gito vuba vuba kandi byihuse, umuguzi atarinze ava aho ari n'umucuruzi atarinze ava aho ari, bakabikora mu buryo bwihuse bw'ikoranabuhanga kandi bugezweho hifashishijwe iy'ipikipiki.

Uyu ni umutwazi w'ipikipiki igemurira ibintu abantu mu rugo, batumye kugira ngo bibagereyo bitarinze kujya kubizana aho babitumye bikabageraho vuba vuba hifashishijwe umutwazi w'ipikipiki.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi ribaho ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanyekanya inkweto, imyambaro ibicuruzwa byinshi ibyokurya ndetse n'ibindi byikoreshwa mu ikoranabuhanga. Iri soko ushobora kujyaho ugashaka igicuruzwa ukeneye hanyuma ukagituma utavuye aho uri.

Iri ni isoko riba kuri murandasi, aho umucuruzi ashobora kurangura ibicuruzwa akoresheje murandasi, atavuye mu gihugu cye, akabirangura, wenda nimba ari mu Rwanda, akabirangura hanze y'u Rwanda, bikamugeraho biturutse hanze y'u Rwanda, muri Afurika cyangwa hirya no hino ku isi. Ibi byoroshya ubucuruzi kandi bugakomeza gutera imbere hirya no hino ku isi.

Iri ni isoko ryo kuri murandasi aho habaho ibikoresho byinshi bitandukanye, imyambaro, ibikoresho by'ubwiza, ibinyabiziga, amapikipiki ndetse n'ibindi bikoresho byinshi bitandukanye ushobora gusanga kuri iri soko, kuri iri soko rero ushobora kuba uri mu Rwanda ugatumiza igicuruzwa ukeneye cyangwa wakunze cyikava aho rino soko rikorera ku cyicaro cyaryo cyikagusanga aho uri mu Rwanda.

Iyi ni ipikipiki ijyanye ibicuruzwa ku muguzi ibikuye ku mucuruzi kugira ngo bimugereho byihuse adatakaje umwanya we ikindi kandi atavuye aho ari.

Uru ni urubuga rukorera ubucuruzi kuri murandasi, aho umuntu agura ibicuruzwa bikamugeraho atavuye aho ari, hifashishijwe uburyo bwo kumugezaho ibicuruzwa bye bwihuse.

Ubu n'uburyo umuntu ashobora gukoresha ahaha cyangwa se agurisha ibicuruzwa bye akoresheje murandasi, bikakuvaho mucuruzi bikagera k'umuguzi mwese ntawe uvuye aho uri ubu buryo buroroshye kandi burizewe.

Iri ni iduka rikorera kuri murandasi, aho ushobora gushyiramo ibicuruzwa ukeneye, ukabitumiza utavuye aho uri, ndetse n'umuguzi atavuye aho uri, mukavugana, mukavuganira kuri murandasi, bakabikoherereza, bikakugeraho. Aha ni mu buryo bwo koroshya ubucuruzi, no kubushyiramo iterambere ryinshi.

Iri ni isoko rikorera kuri murandasi, aho ushobora gushyiramo igicuruzwa ukeneye ukagishakisha iyo ukibonye ubonaho n'ibiciro byacyo kuburyo kugura bikorohera utavuye aho uri ugakoresha murandasi ugahaha bakabikuzanira aho uri utavuye mu rugo, ibi byorohereza umucuruzi ndetse n'umuguzi ndetse bikoroshya ubucuruzi muri rusange bukanabuteza imbere.

Uyu ni umutwazi w'ipikipiki yifashishwa cyane mu gukura ibicuruzwa ku mucuruzi ibigeza ku muguzi mu buryo bwihuse kandi bwizewe.

Ubu ni uburyo bwao guhahira kuri murandasi, igihe umuguzi adafite uko yagera ku isoko, akabitumizaho akoresheje murandasi kandi bikamugereraho ku gihe atavuye aho ari.

Aya ni amapikipiki yifashishwa mu ngendo zitandukanye mu gihugu, aho uhamagara ipikipiki ikaza, ikakuvana ahantu hamwe, ikakujyana ahandi.

Uyu ni umutwazi w'ipikipiki ndetse n'ipikipiki yifashishwa mugukura ibicurazwa ahantu hamwe ibijyana ahandi ikabikura k'umucuruza ibajyana k'umuguzi ibi byoroshya ubucuruzi birihuta kandi bigira vuba bifasha abantu gukoresha umwanya wabo neza.

Aha hari umubyeyi uri ku rubuga rw'ikigo kizwi mu Rwanda, cyitwa vuba vuba, aho utumizaho ibicuruzwa, bakabikugezaho bifashishije ipikipiki, bikakugeraho vuba vuba, utavuye aho uri, bitakuvunnye, kandi birihuta, ikindi birizewe.

Aba ni abakobwa babiri bari guhererekanya ibyo guteka, umukobwa wambaye ishati y'icyatsi ifite ikora ry'umuhondo ari guhereza mugenzi we ibyo guteka birimo amavuta ndetse n'imboga.

Izi ni imodoka nini zitwara imizigo iremereye, ziri imbere y'inyubako imbere y'umuryango umwe hari umubare wa mirongo itatu na gatandatu undi mirongo itatu na gatanu, kuri izo modoka handitseho ijambo twika.

Uru n'urubuga ruba ruriho ibicuruzwa bitandukanye kuburyo umuntu ashobora guhaha kuri muri andasi aharereye mu gihugu kimwe akabigura aturutse mukindi gihugu, biroroshye knd birizewe byarohereza abaguzi n'abacuruza.

Aha ni umutwazi w'ipikipiki yifashishwa mu bucuruzi mu kugeza ibicuruzwa ku muguzi, abigejeje aho yagombaga kubijyana, ari kubikura aho biba bibitswe kugira ngo abihereze umuguzi, ibi biroroshye kandi bigira vuba, birizewe kandi biremewe.

Uyu ni umugabo utwaye ipikipiki yifashishwa mu kuvana ibicuruzwa ku mucuruzi ibijyana ku muguzi . Ni uburyo bwizewe kandi bwihuse bidasaba umucuruzi kuva aho ari kcyangwa umuguzi kuva aho kugira ngo byitwarira , cyangwa umuguzi ajye kubyizanira uyu niwe ubafasha kugira ngo bakoreshe igihe cyabo neza.

Uyu ni umutwazi w'ipikipiki yifashishwa mu bucuruzi, ivana ibicuruzwa ku mucuruzi ibigeza ku muguzi; abigejeje ku muguzi arimo arabimuhereza bose barishimye. Urabona ko byoroshye kandi birihuta, biremewe kandi uba wizeye neza ko ibyo uguze biri bukugereho amahoro nta kibi kibibayeho.

Ubu ni uburyo ushobora kujya kuri murandasi, ukabaza ibyerekeranye n'uru ruganda rukora ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane inkweto, ukamenya amakuru wifuza kurumenyaho kugira ngo umenye nimba ugura ibicuruzwa byabo cyangwa se utabigura. Bigufasha kumenya kandi ibiciro by'ibicuruzwa byabo, ibi ngibi byoroshya ubucuruzi, bikagufasha n'abacuruzi bikabafasha.

Iyi n'ipikipiki yifashishwa m'ubucuruzi bwihuse aho umuguzi atumizaho ibyo ashaka kugura ku mucuruzi, umucuruzi akifashisha iyi pikipiki abimwoherereza, bikakugeraho vuba byihuse Kandi kugihe bidatindije umucuruzi bidatindije n'umuguzi. Ubu buryo buremewe Kandi burizewe Kandi bugira uruhare mukwihutisha iterambere ry'ubucuruzi.